Ni byiza ko igihe cyose tugiye kwa muganga ariwe wenyine wemerewe kuba yadusuzuma mu kanwa akareba ibyo turwaye byaba byiza akaba yaduha imiti kugira ngo ibe yakiza ububabare bwacu twongere tube bazima.

Ni byiza ko ababyeyi twese dushishikarizwa kugira indangagaciro zo kuba twakarabisha abana, kugira ngo bataza kurya ibiryo batakarabye intoki kuko mu kiganza haba harimo imyanda myinshi yatuma barwara indwara nyinshi.

Ababyeyi benshi bigaragara ko bavuye gufata serivisi zitandukanye kwa muganga zirimo nko kuba bakingiza abana babo ndetse bagafata n'ifoto y'urwibutso kugira ngo bigaragare neza ko iki gikorwa baba bacyitabiriye.

Imodoka zitwara imizigo zikunze gukorera ingendo mu mahanga cyane cyane, ariko izi modoka ziba zitwaye ibintu biremereye abantu badashobora gupakira mu zindi modoka zitari izi zabugenewe kugira ngo zibijyane.

Inyubako ndende iba ishimishije kuyibona cyane cyane yubatse ahantu hari umujyi, kubera ko isurwa n'abantu benshi kandi ikaba ibonwa na buri wese kubera iba isumba izindi.

Abantu bakomeye iyo bagiye mu nama nk'izi ngizi bakunze kuganira ku ngingo nyamukuru cyane cyane bibanda ku buzima kuko ubuzima muri iyi si nibwo bufasha intambwe ya mbere mu bindi bikorwa byose.

Iyo abantu cyane cyane ab'abayobozi bicaye hamwe bakajya inama ku kibazo runaka, bituma hari imyanzuro ikomeye bafata ndetse bikaba byabateza n'imbere bitewe n'ibyavuye muri iyo nama.

Umuganga iyo umuzaniye umwana, abanza kwambara utwuma mu matwi, akakamushyira ku mutima, kugira ngo yumve uko umutima we utera, yasanga ari nta kibazo, akamusuzuma, akamufata ibindi bizamini.

Babyeyi ni byiza ko dushishikariza abana bacu umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kubera yuko hari imyanda myinshi tuba dukuye ku biganza byacu kandi yaduteza ibyorezo bitandukanye.

Igihe cyose umubyeyi cyangwa umwana atameze neza agaragaza ibimenyetso by'uko yaba arwaye, si byiza ko ababyeyi basoma abana babo ahubwo icyiza ni uko yakwambara agapfukamunwa igihe ashatse kuba yamusoma amugaragariza urukundo.

Kandi yunisefu ntabwo itoza abana umuco wo kwiga gusa ahubwo no kuba bagira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi na byo ni inshingano zabo kubibatoza, kuko iyo umwana akuranye isuku asazana isuku.

Leta y'Urwanda ishishikariza ababyeyi kuba bajyana abana babo kwa muganga bakabakingira, kubera ko inkingo hari indwara nyinshi zigenda zitsinda ndetse bigatuma abo bana bakurana ubuzima buzira umuze.

Duhora dushishikariza abana bacu kugira ngo bahore bagira isuku kubera yuko twe tuba tutazi ibyo biriwemo, ibyo babafashe, ni byiza ko tubakarabya n'isabune n'amazi meza buri gihe kugira ngo twirinde indwara zitandukanye zibafata.

Serivisi zo gukingira abana ku kigo nderabuzima, ni byiza ko ababyeyi twese tuzitabira kugira ngo tube twakurikirana ubuzima bw'abana bacu ku gihe kuko iyo tubitayeho bituma imikurire yabo imera neza.

Mu rwego rwo kwirinda kuba bakandura ibyorezo bijya bitandukanye ni byiza kwambara ukipfuka umubiri wose ndetse ukanambara uturindantoki mu gihe biri ngombwa kuko uba wirinda kugira aho wakora ukaba wahakura iyo virusi.

Ababyeyi tujye dukurikirana ubuzima bw'abana bacu, kuko abana akenshi bakunda kwidumbaguza mu bishanga kandi haba harimo ibintu byinshi byakwangiza ubuzima bwabo batazi, niyo mpamvu tugomba gufata iya mbere kugira ngo tubarinde ibyo byose.

Mu mijyi myinshi hakunze kugaragara ko haba hari inzira zicanganye ndetse umuntu uhageze bwa mbere haba hari ibyago byinshi by'uko ari buyobe kubera ko inzira abagezemo ibatandukanye n'iyo yabagamo.

Iyo abaganga bavuye gutanga serivisi cyangwa hari amahugurwa runaka bavuyemo baba bagomba gufata amafoto y'urwibutso kugira ngo bagaragaze neza igikorwa bari barimo ndetse n'abandi babibone.

Abarezi cyangwa abayobozi b'ikigo ni byiza ko bashyiraho robine zegereye abanyeshuri kugira ngo birinde umwanda, kuko abanyeshuri baba biriwe bafata byinshi bishobora gutuma banduriramo indwara nyinshi zitandukanye.

Umwana urimo urakaraba amazi meza n'isabune ubona ko yishimye, iyo umurebye nawe biragushimisha, kubera ko uhita utekereza ko hari ababyeyi be babimutoje akiri umwana muto cyane.

Ni byiza ko umubyeyi, ajyana umwana we, akamuhesha inkingo zose zasinywe na muganga, harimo kuba yamuha igitonyanga, aricyo kimutera vitamini, ndetse bigatuma ubuzima bwe buba buzima.

Urujya n'uruza rw'abaturage benshi baje gushaka serivisi zigendanye n'ubuzima, ariko hari n'abandi bantu bashinzwe kubitaho barimo imbere, bari gukurikirana umwe kuri umwe.

Abantu benshi twamenye ko ikigo gifasha abana kwiga neza ndetse iterambere ry'uburezi rikagerwaho, ari ikigo cyo mu Rwanda cyitwa UNICEFU kuko gifasha bamwe muri aba bana kuba bakomeza amasomo yabo kandi bagatsinda neza.

Mu gihugu cyacu cy'Urwanda, umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune wahozeho, ni byiza cyane cyane nk'ababyeyi ko dushishikariza abana bacu kuwukurana, ku buryo bazajya babyibwiriza ari nta wundi ubibabwiye.

Ubu byaroroshye leta y'u Rwanda yegereje abaturage bose amazi, ubu ntibagikora ingendo ndende bajya kuyavoma mu bishanga, abandi bajya mu misozi, ahubwo basigaye bagenda iminota mike bakaba bayagezeho.

Umuco wo kwegeranya abana bakaba basangira ni mwiza cyane, kuberako abana bakurana urukundo bumva basabana na bagenzi babo, ibi bigatuma abana bumva bari bamwe kandi bakumva nta nabi bagirira na bo ubwabo.

Ikintu gishimisha umubyeyi nko kuba yegerejwe amazi kubera ko burya ababyeyi gukora ingendo nini bajya kuvoma mu bishanga mu masoko ndetse n'ahandi birabagora ugasanga batumyeyo abana kandi abana akenshi iyo bagezeyo barikinira.

Inyubako zigaragara nk'aho ziteye kimwe ndetse zinubatse kimwe, ariko iruhande rwazo hakaba hahagaze umuntu urimo akora serivisi ze utabasha kumenya, ni yo mpamvu izi nyubako ziranazitiye, bigaragara ko zirindiwe umutekano.

Ikigaragara iyo abantu bicaye hamwe ari benshi bangana uku bakagira imyanzuro bafata ku kintu runaka ntibishobora kunanirana, kubera ko ibitekerezo byabo biba ari ingenzi kandi bikubaka n'iterambere.

Ni byiza ko umukoresha abanza guhuza abakozi be mbere y'uko bajya mu kazi akagira ibyo aganira nabo, kubera ko iyi nama ntoya ituma abantu bakora neza kandi bagashyira hamwe kuko bahuje ibitekerezo n'imigambi.

Icyumba kirimo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi ubona ko bakomeye n'imbere yabo hari utumashini ndetse n'amazi aha si ahantu ho kuvogerwa hinjirwa n'uwo ariwe wese.

Abana bato cyane si byiza ko tubareka bakijyana ahantu hari amazi kuko bashobora kuyidumbaguzamo ugasanga bibatera indwara, kuko umwana we uko amazi yaba asa kose aba yumva ari meza.

Kuva na kera hose umuturage yari akwiriye kwegerezwa amazi, kubera ko ibikorwa yakoraga byari birimo ibigiye bitandukanye nk'isuku, ariko kuva aho bayegerejwe isuku yabaye nyinshi mu ngo z'abaturage, ubu nta mwana ugipfa kurwaragurika.

Buri mwaka habaho umunsi mukuru mpuzamahanga wo kurwanya kanseri y' inkondo y' umura, niyo mpamvu abakobwa bose hagati y imyaka cumi n'ibiri kuzamura bashishikarizwa kenshi kwisuzumisha iyi kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo barebe niba ubuzima bwabo bukiri buzima.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye bahuje umugambi, imbere yabo hateretse udutasi, ndetse bigaragara ko hari ibyo barimo baraganiraho, kandi babanje kunywa agakawa kugira ngo ibitekerezo byabo bibe biri ku murongo.

Si byiza ko tunywa amazi aho tuyabonye hose kuko tuba tutizeye ubuziranenge bwayo ahubwo tugomba kuyavoma tukayajyana mu rugo, tukayateka tukaba twizeye ko yujuje ubuziranenge tukabona kuyanywa.

Gutoza abana ikinyabupfura bakiri bato ni ingenzi kubera ko bakura bishimye basabana n'abandi ndetse bavuga neza aho kugira ngo bakure bigunze bameze nk'abariye karungu.

Umuganga ni we wenyine ufite uburenganzira bwo kuba yapima umubyeyi, kugira ngo amenye uko ahagaze, akamushyiraho iki gikoresho bashyira ku maboko kugira ngo amenye uburwayi bwe, niba arwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa arwaye ibindi.

Kumvira inama uhabwa na muganga ni cyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma umurwayi akira vuba, aho kugira ngo ajye anywa ibinini byinshi cyangwa yiyahuze indi miti ari yo yose, ahubwo bikaba intandaro yo kuba yakira mu mwanya mutoya kubera inama yumviye.

Nta kintu gishimisha nko kubona inyubako isa neza ifite amabati atukura ndetseazengurutswe n'ahantu hasa neza ubona ko harimo n'abantu bashinzwe umutekano waho.

Abana batoya bitewe n'uburyo birirwa mu bikorwa by'umwanda bagomba kuba begerejwe kandagira ukarabe cyangwa ayandi mazi mu buryo ubwo aribwo bwose kugira ngo bashishikarizwe guhora bakaraba.

Mbere y'uko umurwayi yandikirwa guterwa inshinge ni byiza ko umuganga azishyira hamwe akabanza akazitunganya mbere y'uko arwinjiza mu mubiri w'umuntu kuko ni ibintu byo kwitondera cyane.

Nta kintu gishimisha umuganga, nko kubona umubyeyi akurikiza gahunda zose z'ikingiza, akajya azana umwana buri gihe kugira ngo amenye uko ahagaze, ndetse akazamuhesha inkingo zose zigenewe umwana.

Niwumva leta y'u rwanda ivuga cyangwa ishishikariza abaturage gukaraba intoki n'amazi meza, ntukabisuzugure kuko bibamo ubwirinzi bukomeye cyane cyane mu banyeshuri hari indwara z'ibyorezo ziba zirinzwe kugira ngo babe batazanduzanya.

Mu bihe bishize bya kovide abantu bapimwaga mu buryo bugiye butandukanye, harimo kuba babashyiraho iki gikoresho batungaga ku muntu kugira ngo bamenye niba afite ibimenyetso byayo bakamukurikirana bitarakomera.

Urugaga rw'abaganga ndetse n'abandi baturage basanzwe, bafashe ifoto y'urwibutso, bigaragara ko hari igikorwa bavuyemo bakaba bagisoje, bikaba ngombwa ko bifotozanyiriza hamwe bose.

Umuryango ushinzwe ubuzima ku isi, ni kenshi ushishikariza abantu kwirinda indwara mu gihe batararemba bakaba bagana ku bigo nderabuzima bibegereye, bakabafasha hakiri kare batararemba.

Buri mubyeyi wese ashishikarizwa kwita ku mwana we ndetse agahabwa inkingo zose nk'uko zabiteganijwe akajyanwa kwa muganga bakaba bamutera urushinge n'ibindi byose muganga akorera umwana ukiri mutoya kugeza ku myaka ye y'ubukure.

Umuco wo gusukura ibintu ndetse n'aho dutuye ni mwiza kubera ko hari indwara nyinshi ndetse na mikorobe nyinshi tuba twishe, iyo dukoresheje amazi meza ndetse tugasukura n'aho dutuye buri munsi.

Abayobozi bakomeye bari mu nama ikomeye bari gutekereza ingamba bafata ndetse n'ibyo bakora muri iyi nama, bigaragara ko hari abandi babateze amatwi bari kumva neza ibyo bari kubabwira kugira ngo nabo babishyire mu bikorwa.

Umuntu iyo ari imbere abwira abandi bantu benshi aba ashaka ko bamutega amatwi ndetse bakumva n'ibyo ashaka kubabwira kubera yuko bibabaza kuba wavuga ariko abantu ntibagutege amatwi ngo bumve icyo washatse kubabwira.

Abantu benshi basa n'abateraniye mu nama bari kuganira ku ngingo runaka zigiye zitandukanye ndetse banarebera hamwe imyanzuro bafata kugira ngo ibyo bategura gukora byongere bigerweho, ni byiza kuganirira mu matsinda.

Abantu iyo bari kumwe bizihiwe bakabyina bagasabana, usanga hari ikintu kigenda neza mu mibanire yabo kubera ko bituma baba inshuti ndetse bakaba banabana hafi.

Iyo umuntu ari kuvoma amazi amwegereye, bituma akora isuku cyane cyane nko kuba yamesa imyenda ye, urabona ko iyo umuntu afite amazi ari mu rugo rwe ni ibintu biba bishimishije iby'ingendo ntiyongere kubikora.

Gusuzumisha umwana ukiri muto ndetse ugakurikirana na gahunda ze zose zo kumugeza kwa muganga bakamukurikirana, ni byiza ku mubyeyi wamaze kubisobanukirwa kuko bituma umwana we akura kandi n'imitekerereze ye ikazaba mizima.

Nk'ibisanzwe umubyeyi iyo abyaye umwana hari ibyo ashishikarizwa kuba yamukorera birimo nko kuba yamupimisha ibiro kugira ngo amenye imikurire y'umwana we kuko iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma tumenya indyo tugaburira abana bacu n'uburyo bazakuramo neza.

Abamama babiri basa n'abakuze bari kuganira ku kintu runaka ubona ko bishimye kandi hari ikintu bakurikiye, nyuma yacyo ubona ko hari indi myanzuro iribuze kuba yafatwa.

Nk'umubyeyi wamaze kumenya agaciro k'umwana we ni byiza ko amujyana ku kigo nderabuzima akajya amupimisha ibiro akamuha n'izindi nkingo zigiye zitandukanye kugira ngo amenye imikurire y'umwana we uko ihagaze.

Imigezi yegerejwe abantu urabona abana bishimye ndetse bato cyane bafite n'utubido tunganya nabo ubushobozi baje kwivomera amazi, atari ngombwa ko ababyeyi baza kuvoma kuko ari hafi y'ingo zabo.

Ni byiza ko iyo abarwaza bagejeje umurwayi kwa muganga abaganga bagomba kumusuzuma bambaye udupfukamunwa, kuko ashobora kuba yanduye indwara zishobora kuba zakduza n'abandi, bigatuma birinda muri ubwo buryo.

Akenshi ku mugezi usanga hari abana benshi batoya cyane kubera ko muri kamere y'abana bakunda ahantu hari amazi, batitaye ngo ni meza cyangwa ni mabi, ugasanga biriweyo.

Abantu tugomba kwishimira ibyo twagezeho cyane cyane uburezi mu iterambere ry'igihugu kubera y'uko uko unisefu u ari umwe mu muryango ufasha abana kuba bagira uburere bwiza ndetse n'ubumenyi.

Buri hantu hose haba hakenewe za kizimyamwoto, kuko inkongi nta muntu iteguza igihe icyo ari cyo cyose ujya kubona ukabona irabaye, ni byiza ko tuba tuzifite aho hafi ku buryo icyo kiza kiduteye twamenya uburyo duhita duhangana nacyo.

Mubyeyi igihe ubonye umwana wawe hari impinduka zamubayeho zidasanzwe, ni byiza kumwihutana ku kigo nderabuzima kikwegereye, ku umujyanama cyangwa n'ahandi hose bakaba bamusuzuma bakareba icyo arwaye.

Si byiza ko ababyeyi bateruzwa ibintu biremereye, ahubwo iyi ni imirimo y'abagabo kuko bizwi ko abagabo aribo bantu bagira imbaraga kandi bashobora kwikorera ibintu biremereye.

Si byiza ko dufata abana bacu tukabohereza mu migezi nk'iyi kuba bavomamo kuko haba harimo ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuba byabafata ndetse bikabangiriza ubuzima, bagataha bavuga ko hari ibyabariye, nyamara tutasobanukirwa ibyo ari byo.

Umuryango wita ku bana batoya, mu myigire ndetse no kugira isuku witwa unisefu, washinzwe kera cyane ndetse ubu ngubu utoza abana kuba bagira ubumenyi bugiye butandukanye ndetse bagakura mu buryo bw'ubwenge, bakaba babasha kugira ibyo bigezaho mu myaka iri imbere.

Ababyeyi bombi iyo bitaye ku mwana wabo biba byiza kubera ko akurira mu biganza byabo kandi urukundo rw'ababyeyi bombi akarushyikira, niyo mpamvu atari byiza ko umubyeyi w'umumama ariwe wenyine urera umwana ahubwo n'umugabo yakamubaye hafi.

Iyo abantu bashobora kuba bakicara hamwe bakajya inama, bafite n'ubayoboye cyane cyane iyo ari umugore, ibitekerezo byabo batanze biba umusingi wo kubaka ibyo bari kuganiraho.

Babyeyi, namwe baturarwanda, dushishikarize abantu aho dutuye hose serivisi yo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kuko hari indwara nyinshi ndetse na mikorobe nyinshi tuba twishe, ziba zagiye ku biganza byacu.

Abaganga ubona ko bizihiwe bari ku kigo nderabuzima cya Mayange ndetse imbere yabo hari umugabo usa n'ukuze ufite ikoti; ndetse hari ibyo ari kubabwira ubona ko banamaze kubyishimira.

Burya igihe igihugu cyacu cyagaragayemo icyorezo, ntitukagire ngo abaganga baba batuje kuko batongera gutuza kugeza igihe baboneye urukingo cyangwa umuti w'iyo ndwara, itarakwirakwira mu baturage.

Buri mubyeyi wese ndetse n'undi uwo ari we wese agomba kuba afite ifishi yo kwivurizaho kubera ko ariyo umuganga yandikaho indwara, ndetse akaba yanayandikaho imiti umurwayi aribuzeze guhabwa.

Inama ihuriwemo abayobozi benshi barimo bibanda ku kurwanya icyorezo cya mabaga, kubera yuko gihangayikishije isi cyane kandi gitwara umubare w'abantu benshi ndetse kikanasiga abandi ari imfubyi.

Si byiza ko tureka abana bajya ku mugezi bonyine, bakaba bakirirwa bakina n'amazi, kuko nta muntu ushobora kuba yabakurayo, ahubwo bashobora kwirirwayo umunsi wose bakawumarayo.

Si byiza ko umwana tumwohereza ahantu nk'aha ho kuvoma, ngo agende adubikemo ibibido, kubera ko mo imbere mu mazi haba hari ibintu byinshi bitandukanye tutabasha kumenya, bishobora kuba byakangiza ubuzima bwe.

Iyo abantu bamaze gukora igikorwa runaka cyari kibahurije ahantu, bagomba gufata amafoto kugira ngo icyo gikorwa kizasigare no mu mitwe y'abantu batabashije kuhagera, binyuze ku kuba bareba amafoto bifotoje.

Nibyiza ko abantu bongera kumenya ko sida igihari bagahaguruka bakayirwanya, kandi bakabwira n'abandi bakababera abakangurambaga muri icyo gikorwa cyo kurwanya sida kugira ngo iranduke burundu.

Baturage, nitugira amahirwe yo kwegerezwa amazi, tujye tuyakoresha neza, kandi umuco w'isuku uturangage, kuko ari cyo baba bayaduhereye. Rero ntitukayangize tuyakoresha ibidakwiriye, kugira ngo icyo bayaduhereye ari cyo gikorwa gusa.

Umumama umwe ubyibushye cyane ufite imisatsi isutse ndetse n'amakayi ku meza iruhande rwe; bigaragara ko arimo arasobanurira bano abantu bane ariko akaba ari kubasobanurira ibintu bifite umumaro kuko bose bamuteze amatwi bitonze.

Nta kintu gishimisha nko kubona abana bambaye yunifomo ndetse bafite n'abayobozi babakuriye babahagarariye ko bari kumwe nabo ndetse ubona ko bishimye kandi bakabaganiriza ku buryo bari bunyurwe.

Leta y'u Rwanda yegereje amazi buri muturage wese, ubu ntibikidusaba gukora ingendo ndende tujya gushaka amazi byaroroshye, ni byiza rero ko twitoza umuco w'isuku kuko amazi yatwegerejwe tukaba dusa neza buri gihe.

Iyo abana benshi bahurijwe hamwe, bishimye, bakina, baseka, bishobora gutuma umubano wabo wiyongera ndetse ababyeyi babahuje na bo bagahuza urugwiro kuko bose baba bafitemo abana muri urwo rwunge.

Igihe cyose tugize amahirwe yo kuba twakegerezwa amazi ni byiza ko tuyakoresha icyakwiriye gukoreshwa dukangukira kuba twateka ibiryo birimo isuku ndetse natwe tukagira isuku aho dutuye tukayigirira n'imiryango yacu.

Kuba abaturage baregerejwe gahunda za Leta zitandukanye zirimo nko kwegezwa amazi, byafashije ababyeyi kuba batuma abana babo kuvoma, kandi abana bakajyayo mu buryo bworoshye.

Kuba abantu batishimye, biba bifite aho byakomotse. Hari igihe baba barwaye se, cyangwa bumva hari ibindi bintu bitagenda neza muri bo. Urugero nk'aba turi kubona hano, birashoboka ko hari ikibazo baba bafite, kandi hari icyo bategereje, kugira ngo gikemuke.

Abaturage kera byabasabaga gukora ingendo ndende bajya gushaka ahantu hari amazi ariko ubu barashimira leta y'u Rwanda yabegereje amazi hafi kubera ko bitagisaba urugendo rurerure kuyabona.

Ababyeyi cyane cyane abafite abana. Si byiza ko umubyeyi w'umumama yijyana kwa muganga wenyine agiye gupimisha umwana we kandi aba ataramubyaye wenyine. Ni byiza ko ajyana n'umugabo bose bakumvira hamwe inama bahabwa na muganga.

Ahantu hateraniye abantu benshi iyo wabonye utekereza ko hari ikintu cy'ingenzi gikomeye bari kuhashaka, nka serivisi zitandukanye. Urabona ko aba baturage bafite byinshi bashaka kuba bagezwaho, kandi bikenewe cyane kuko babizindukiye.

Gukoresha amazi meza aho dutuye ni kimwe mu ntambwe nziza yo kuba twakwirinda indwara ziterwa n'umwanda, cyane cyane abana bakiri munsi y'imyaka itanu bo nibo bakunze kuzahazwa n'izo ndwara niyo mpamvu ababyeyi tugomba kubyitaho tukabarinda.

Umubyeyi wese arashishikarizwa kuba yakurikirana ubuzima bw'umwana we, akamuha inkingo zose zabugenewe ndetse agakurikirana ubuzima bwe bwose kugeza umwana akuze kuko bimufasha mu mikurire ndetse no mu mitekerereze ye.

Niba tugize amahirwe serivisi zitangwa zikatwegera ni byiza ko tujya kuzifata kandi tugatega amatwi baba baduhamagaye tukumva ibyo batugeneye kuko biba bifite akamaro kuri twe.

Ababyeyi bose cyane cyane ab'abagabo barashishikarizwa kuba bakwita ku mubyeyi utwite, kuko abagabo kenshi iyo batitaye ku babyeyi batwite cyane cyane abagore babo, bishobora kuba byabaviramo izindi ngaruka kandi bakazikurikirana byararengereye.

Ni ngombwa ko umuganga aba afite ibyangombwa byose kugira ngo yite ku murwayi nko kuba afite ifishi ye, ikarine ndetse n'ubwishingizi mu kwivuza bw'umurwayi ndetse n'irangamuntu ye, kugira ngo akurikirane ubuzima bwe neza.

Leta y'u Rwanda yegereje buri muturage wese amazi kugira ngo abe yabasha kuyabona bitamusabye kuba yakora urugendo rurerure kuko akenshi ibi bibangamira abaturage ndetse bigatuma umuco w'isuku utagerwaho.

Bimwe mu bikorwa byashyizwemo imbaraga cyane na leta y'u Rwanda ni ukwegereza abaturage amazi kubera ko ibi byatezaga ibibazo bigiye bitandukanye ugasanga umuntu yagiye kuvoma ahantu kure bigatuma agaruka atinze.

Umubyeyi wese ni byiza ko atoza umwana akiri muto umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, kubera ko umwana iyo ubimutoje akiri muto n'ubundi iyo akuze arabyikoresha ari nta muntu umuhagaze hejuru.

Guteranyiriza abantu hamwe bakeneye serivisi imwe, bisaba kuba ukorana imbaraga nyinshi kugira ngo bose ube wabakirira rimwe, cyane cyane tuvuga nko kwa muganga kuko iyo umurwayi arembye ukamutindana ushobora gutuma indwara ye yiyongera.

Abagabo benshi iyo bicaye bateraniye hamwe ndetse bafite n'akantu barimo baranywa, baba batekereza neza kandi ibitekerezo byabo bishobora kuvamo ikintu gikomeye ndetse kizagira iterambere ku bandi.

Nta kintu gishimisha cyane nko kuba wegereye amazi, kubera ko iyo amazi atakwegereye uhora uhangayitse ndetse rimwe na rimwe ibikorwa by'isuku birakunanira, kubera ko wiganyira kuba wajya kuyazana aho ari.

Ni byiza gutoza umwana ukiri muto imirimo yose, kubera ko uko umwana umutoje, ni ko akura. Ni ba umutoje ikinyabupfura, akurana ikinyabupfura, yubaha buri wese. Ni byiza rero ko tubatoza gukora imirimo neza, kugira ngo bazayikuriremo.

Ni byiza ko igihe cyose imbere yacu hari umuntu urimo arakira ubutumwa atubwira ko tugomba kuba turi maso tumuteze amatwi kugira ngo twumve icyo atubwira kuko aba yaduteranirije aho ashaka kutubwira ikintu cy'ingirakamaro.

Nta kintu gishimisha nko kubona urubyiruko imbaraga z'igihugu bateraniye hamwe ndetse basa n'abavuye mu mahugurwa bari gufata ifoto baseka, abandi bigaragara ko bishimiye ibikorwa bavuyemo.

Mu gihe tubonye umuntu yararamye areba mu kirere, ni byiza kumwegera cyane ko ari wenyine biba ari akarusho kuko hari igihe aba yigunze bitewe n'ibibazo yahuye na byo uwo munsi kandi hari icyo twamufasha kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke.

Iyo umumama ashaje utangira kubona amagufa yamusohotsemo ndetse n'imitsi yose ugatangira kuyibona, ariko iyo yakurikije ingamba yahawe na muganga, ibyo byose abinyuramo akomeye kandi akagumya kuba umuntu ukomeye ndetse no mu bukecuru bwe cyangwa ubusaza bwe.

Ikigo nderabuzima cya wihogora senta gifasha abantu kuba cyabitaho cyane cyane ibigendanye n'imitekerereze yo mu mutwe, kubera ko izi serivisi bazikora neza kandi umuntu wese ubagannye avayo yishimiye serivisi yahawe.

Kujya inama ni byiza kubera ko iyo mwicaye hamwe muganira ku ngingo zigiye zitandukanye, bikaba byatuma hari imyanzuro mufata mu buzima bwanyu, ikitagendaga neza kikongera kuba cyasubira ku murongo kikagenda nkuko mubyifuza.

U rwanda rukunze kugira igikorwa ngarukamwaka cyo kurwanya ihohoterwa kubera ko aba ari inshingano yacu twese bakamanika ama bandilole ndetse polisi ikabajya imbere ikagenda itangaza bakoresheje mikorohone.

Iyo abantu bagiye mu mahugurwa cyane ay'ubuvuzi ni byiza ko babaha udu tisheti kugira ngo bigaragare ko yagiye muri ayo mahugurwa kandi bimubere urwibutso.

I Kigali naho haba ikigo cyitwa karayesi gifasha abarwayi mu buryo butandukanye ndetse uhagannye wese ahabwa n'izindi serivisi zigendanye n'ubuzima.

Abana batitaweho bashobora kubaho ubuzima bubi kubera yuko buri kimwe cyose baba bakeneye batakibonera igihe kandi baba basa nabi iyo ubarebye ku isura kubera ko batabayeho ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bwo mu mutwe, bugiye burimo ibice bigiye bitandukanye, kubera ko umuntu warwaye mu mutwe tutamwitayeho neza, ashobora kuba yatekereza kwiroha mu biyobyabwenge cyangwa se akaba yatekereza kuba yakwiyahura.

Ni kenshi uzabona umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe akora ibintu bikagutangaza kubera y'uko ukibona abikora uhita utekereza niba ari muzima cyangwa atari muzima nyamara si byiza ko duhita twanzura ko arwaye tutaramugeza kwa muganga.

Nta kintu gishimisha nko kubona umubyeyi yishimye abayeho ubuzima bwiza kubera ko nta ndwara n'imwe imugaragaraho ibyo bigatuma twese dushishikarizwa gukurikiza amabwiriza duhabwa na muganga kugira ngo duhorane akanyamuneza.

Kwicara hamwe mukajya inama ku kintu runaka biba ari ingenzi mu buzima, kubera y'uko iyo buri muntu wese atanze igitekerezo ku ngingo bishobora gutuma mufata umwanzuro wa nyawo kandi mwiza.

Umubyeyi iyo amaze gukora serivise ze agira umwanya wo kwifotoza, yambaye ibaji ye ndetse akaba yishimiye kuba yakifotoza ayerekana.

Umubyeyi aba yizihiwe iyo yiboneye agafu ke agatekera abana igikoma kuko aba yarabwiwe neza na muganga ko kibamo intungamubiri ishobora gutuma umwana akura neza mu mitekerereze.

Kuba umuntu ashaje ntibivuze ko atakora imyitozo ngororamubiri, kuko umubiri wacu twese uba ukeneye ibi bikorwa kugira ngo ukomeze kubaho neza, ntibigombera kuba ushaje cyangwa kuba uri umusore cyangwa inkumi.

Dogiteri mwiza ni uwita ku barwayi be akabatega amatwi, akaba yakumva ibitekerezo byabo ndetse akanabaha icyabazanye kubera ko serivisi nziza hari icyo yongerera umurwayi.

Isi yose igira umunsi yizihirizaho ubuzima bwa muntu uyu munsi abayobozi bakomeye baraterana bakaganira ku byagezweho ndetse bakajya inama n'uko bakora ibindi ahazaza.

Ni byiza kuba umubyeyi yishimanye n'umwana we, kuko ibi bituma umwana akura mu mitekerereze ndetse akazagira n'ubuzima bwiza bwe ejo hazaza kuko yishimiwe.

Igihe cyose tubonye umuntu utishoboye, ni byiza ko tumwegera tukamuganiriza, kuko hari igihe aba yarabitewe no kuba afite ibikomere bigiye bitandukanye, bigatuma yumva nta kintu yazongera gukora mu buzima bwe, akenshi usanga mu mutwe we hari ikitagenda neza.

Buri muntu wese ashishikarizwa kuba yakorerwa ubuvuzi bw'indamburangingo akaba yakore imyitozo ngororamubiri kuko biba bikenewe nabyo kugira ngo imibiri yacu ikomeze kuba mizima aho dutuye.

Abaganga baba bafite uburyo baganira n'umurwayi, bakamenya ikibazo afite. Cyane cyane aba bita ku ndwara zo mu mutwe, bo baba bafite n'ubundi buryo bwihariye bakoresha, kugira ngo bamenye neza niba uwo muntu afite icyo kibazo.

Abanyarwanda twese tugomba kwishimira igihugu twahawe n'imana, ndetse tukabigaragaza n'urukundo kubera ko urukundo atari amagambo ahubwo ari ibikorwa, tugashyigikirana, tugafashanya, ndetse n'ibindi bikorwa by'urukundo tukaba twabikora.

Biba byiza iyo abayobozi bakomeye bagiye mu mahugurwa bakaba bicaye mu ntebe nziza nk'izi begamye batuje bituma babasha gutekereza neza kandi ibyo batekereje bikaba babitangamo nk'inama.

Ni byiza ko igihe tubonye umuntu wigunze asa n'uwihebye tugomba kumwegera tukamuganiriza mu buryo bwiza butuje, tutamukabukira kuko tuba tutazi icyamuteye kwigunga ndetse n'ako gahinda.

Nta kintu gishimisha umuntu nko gufata amafaranga ye akaba yayaguramo inyubako nziza imeze nk'iyi. Kuko n'uyirebye wese, abona ko iba yarashoweho amafaranga menshi kandi izamugirira akamaro mu bikorwa bizagenda bitandukana.

Kuba umubyeyi yatekera igikoma abana be biri muri bimwe bishobora gutuma abana bagira intungamubiri bagakura neza mu mitekerereze kuko bibafasha mu buzima bwabo bw'imikurire.

Si byiza ko igihe tubonye umubyeyi wigunze tumutererana kuko ababyeyi ni bamwe mu bantu bagira imbaraga zo kwihangana iyo byamugendekeye uku biba byafashe indi ntera.

Ntabwo ari byiza ko dutererana umuntu tubona akunda kuba ari wenyine kuko akenshi tuba tutazi icyabimuteye, birashoboka ko yaba afite ikibazo cyo mu mutwe ahubwo tujye tumushyikiriza ku kigonderabuzima kitwegereye babe bamufasha.

Urugaga rw'urubyiruko bigaragara ko bishimye kandi bavuye gukora igikorwa runaka, bambaye n'iyenda isa ndetse bigaragara ko icyo gikorwa bakoraga kijyanye n'ubuzima bw'urubyiruko rugenzi rwabo.

Ishusho irimo iragaragaza ko aha hakorerwa ubuvuzi bwo mu mutwe kuri bose nta n'umwe uhejwe, niyo mpamvu baba bashishikariza abantu bose kuba babagana igihe bumva batameze neza, mu buzima bwabo bwo mu mutwe bakaba bakurikirana.

Buri mujyanama w'ubuzima wese agomba kuba yarahawe bimwe mu bikoresho akoresha asuzuma umwana harimo nk'icyo akoresha ashyira mu kwaha k'umwana kugira ngo amupime arebe umuriro afite uko ungana.

Uyu mwari rwose biragaragara ko yishimye, nubwo yambaye ijiri y'umuhondo, kandi hakaba hari ibyo arimo arareba, bikaba byamushimishije, ikindi bigaragara ko ashobora kuba atanga serivisi za emutiyeni.

Abantu benshi dukunze kubona muri ubu buryo dutekereza ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, ariko si byiza guhita ubyemeza utamugejeje kwa muganga ngo ari we umusuzuma yemeze neza ko ibyo bintu utekereza ari ukuri.

Ni byiza ko mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na maganacyenda mirongo cyenda na kane, tugomba kwifatanya n'abantu bagizweho n'ihungabana muri icyo gihe tukabegera tukaba twabaganiriza, ibitekerezo byabo bigasubira ku murongo.

Iyo abana bafite buri kimwe cyose, babayeho ubuzima bwiza buzira umuze. Baba bishimye kandi bakunda gukina bari kumwe. Ni yo mpamvu ababyeyi tugomba gutoza abana bacu kubana neza, kugira ngo bakomeze kubaho ubuzima bwiza bushimisha bose.

Ikigaragara cyo iyo abantu bahuje bagatekereza kimwe ndetse bakungurana n'ibitekerezo babasha kugira ibyo bageraho, niyo mpamvu tubona umugabo n'umugore basa naho bari kubwira abandi bantu ibijyanye n'ubuzima ndetse n'izo serivisi n'ibitangirwamo.

Biragoye cyane kugira ngo ubone umugabo arimo ararira, ni uko hari ikibazo gikomeye aba afite mu buzima bwe, kuko Abanyarwanda babibonye bakavuga ngo "amarira y'umugabo atemba ajya mu nda."

Abantu benshi ubona ko bambaye neza kandi bari gusa neza bavuye mu mahugurwa runaka bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazahore bibuka igikorwa bari barimo.

Ni kenshi dushishikarizwa ndetse tukagirwa inama ko igihe tubonye umuntu afite ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza ko hari ikitari kugenda neza mu buzima bwo mu mutwe we tugomba kumwegereza ku kigo nderazima kitwegereye bakaba babasha kumupima bakareba ikibazo afite.

Iyo abantu bari mu mahugurwa bambaye imyambaro isa biba bishimishije kuko uhita umenya igikorwa bagiyemo bitewe ni byanditse ku myambaro bambaye kandi baba babyiteguye kugera kurwego bakoraho imyambararo.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda bwo mu mutwe cyitwa isange wane sitopu senta, gishishikariza kenshi abantu kuba bakigana kugira ngo bapime ubuzima bwabo, barebe niba bahagaze neza basanga hari uburwayi bakamukurikirana.

Umumama usa n'uri kumwenyura ariko akaba yambaye n'urunigi mu ijosi hari aho ari kureba bigaragara ko ibyo ari kureba abyishimiye kandi bigaragara neza ko isura ye.

Abana bameze nk'ukunguku bose, si byiza ko twababona ntitubahe ubufasha kuko ikigaragara cyo bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ni byiza ko tubegera tukabaganiriza tukamenya ikibazo cyabo twabasha kubafasha tukabikora.

Abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe ntibatana n'ibi bintu kubera yuko usanga aho bageze hose batoragura ibyo babonye ndetse bamwe muri bo bakaba banabyambara mbega wahura nabo mu nzira ukabibona ko bashobora kuba bafite ikibazo mu mutwe.

Kwigisha abana bakiri bato uburyo bakoresha isuku amenyo yabo ni byiza, kubera yuko bibafasha gukura babikora kandi bakabikora babikunda mu buzima bwabo bwa buri munsi atari ukubashyiraho igitutu ngo babikore.

Igihe cyose twumva dufite ikibazo mu kanwa, ni byiza ko tujya kwa muganga hatangirwa serivisi zijyanye n'iyi ndwara kuko aribo batwitaho bakamenya icyo turwaye bagakurikirana ubuzima bwacu neza.

Kuba twagira ibintu dushyira ku menyo yacu si byiza kuko n'umuganga yabigushishikariza akakubwira ingaruka zigiye zitandukanye zibibamo, ni byiza ko igihe dukeneye kugira ibyo dukora mu kanwa kacu tujya kwa muganga.

Ni byiza ko umwana atozwa kugirira isuku amenyo ye hakiri kare, kugira ngo azakure abyikorera, ari nta wumuhagaze hejuru. Kuko ibi bizamurinda indwara zigiye zitandukanye, zifata mu kanwa.

Abahanga babonye ko guseka byongera iminsi yo kurama, kubera y'uko umuntu ukunze kuba yigunze adaseka, ashobora guhura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ndetse abenshi batekereza ko mu mutwe we hari ikitarimo kigenda neza.

Mbere yuko umuganga afata umwanzuro wo kuba yakura umurwayi iryinyo, agomba kubanza kumutera ikinya kugira ngo igihe ari kumukura ataza kumva ububabare kuko biriya bintu biryana cyane.

Burya abaganga bakora serivisi zo gukura amenyo baba bafite ahantu hagiye hatandukanye babyigiye, cyane cyane nk'aba bafite igishushanyo bigiraho kuba bakura amenyo ibingibi iyo bageze ku barwayi nibyo bashyira mu bikorwa.

Mu cyumba cy'abarwayi, hagomba kuba harimo ibikoresho byose bikenewe. Kubera yuko umuganga atajya avura umurwayi, ngo ibyo akeneye yongere ajye gushaka n'ibindi, ahubwo agomba kuba abifite byose hamwe.

Ni byiza kubona abana batoya bita ku isuku y'amenyo yabo. Nta kintu kiba gishimishije nko kubona amenyo yabo asa umweru, kubera ko bakuze batozwa isuku yayo, bigatuma bayikurana.

Si byiza ko igihe cyose dufata ikintu icyo ari cyo cyose tukajya kugicisha amenyo kubera ko ibi byatwangiriza ishinya ndetse bikaba byatuma iva n'amaraso kandi ibi bidukurura indwara zigiye zitandukanye zirimo nka kanseri ndetse n'izindi.

Ni byiza ko umuntu ahabwa igishushanyo kerekana uburyo azajya yita ku menyo ye kugira ngo age abyitoza buri munsi, ni yo mpamvu ahorana akanyamuneza.

Niba twaramenye akamaro k'amenyo yacu si byiza ko tuyashyiramo icyo aricyo cyose tubonye kuko ishinya iyo yangiritse biragora ko yongera gusubirana kandi ibi tubibuzwa kenshi ntitubyumve.

Muganga wenyine niwe wemerewe kuba yagupima akagusuzuma akareba niba ufite ikibazo mu menyo yawe akabasha kugukurikirana akaguha imiti igiye itandukanye, kuko abifitiye uburenganzira.

Iyo umurwayi asuzumwe agasanga hari ikibazo afite mu menyo ye, bashobora kumunyuza mu cyuma bakaba bafotora bakareba uko ahagaze ndetse na we bakaba bamwereka ifoto y'ukuntu amenyo ye ahagaze.

Kugira ngo muganga nawe atagira indwara zindi ateza abarwayi, igihe ashatse gukora mu kanwa k'umurwayi areba amenyo uko bihagaze agomba kuba yambaye uturindantoki kugira ngo abisuzume neza kandi akadukoresha inshuro imwe gusa.

Si byiza ko igihe cyose twumva amenyo yacu ari kuturya cyangwa afite ibindi bibazo tuyakura dukoresheje uburyo gakondo twiremeye. Ahubwo, ni byiza ko tugana ivuriro rikaba ariryo ryakora izo serivisi kuko aribo baba babizoberewe.

Ni kenshi dushishikarizwa kutagira ibintu dushyira mu menyo yacu, cyane cyane ibyakangiza nk'ishinya, kubera yuko ibi ngibi bigenewe gukorwa na muganga wenyine, kuko aba ariwe uzi ingaruka z'indwara, akaba yakwinda gukoresha ibyo byateza izo ngaruka.

Leta y'u Rwanda ntiyemerera ibitaro ibyo aribyo byose kuba byakora ubuvuzi bwo gukura amenyo kubera ko hari ibikorwa ndetse n'ibindi bikorwaremezo bigiye bitandukanye, babasha kuba bafite kugira ngo bemererwe kuba bakora izo serivisi.

Serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, gusa ziboneka kwa muganga honyine, ntihazagire undi ukubeshya akaba yakubwira ibihabanye n'ibyo umuganga yakubwira kugirango amenyo yawe akire, uretse kujya ku kigo nderabuzima.

Buri muntu wese aho ava akagera atitaye ku kigero arimo, agomba kumenya ko ari ingenzi kugirira isuku amenyo ye, akajya abyitaho byibura gatatu ku munsi mu gitondo saasita amaze kurya ndetse na n'imugoroba.

Mu mijyi cyane cyane ikomeye yo mu Rwanda ni ho usanga hari inyubako ya Hop Dental Center kubera ko iyi nyubako ntabwo yubakwa ahantu ahariho hose, ahubwo yubakwa ahantu hashobora guhurira abantu benshi cyane cyane mu Mujyi.

Mbere yuko muganga akura umwana, agomba kuba afite igikoresho gishyira urumuri mu kanwa k'uwo mwana agiye gukura, kugira ngo abe arebamo neza atagira ibindi yangiza, ahubwo akure iryinyo rifite ikibazo gusa.

Si byiza ko buri kintu cyose dufashe dushyira mu kanwa, kubera ko hari ibiba byakwangiza amenyo yacu kubera ko tuba tutarakoze ubushakashatsi ngo tumenye niba ibyo bintu byizewe ndetse tukaba twabishyira mu kanwa kacu.

Si byiza ko igihe twumva iryinyo riri kuturya dufata akagozi tukaba ariyo dukuza iryinyo kubera ko ibi byatuviramo indwara zigiye zitandukanye, nyamara kugana kwa muganga akaba aribo babyikorera byo binyuze mu mucyo.

Ni byiza ko habaho gahunda ya tubitayeho mu gihugu kugira ngo abana cyangwa abandi bantu abo aribo bose bajye bajyanwa kwa muganga gusuzumwa buri gihe barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Buri muganga wese ukora muri serivisi zo kuba yareba amenyo uko ahagaze ndetse akaba yanayavura, na we yemerewe kuba yakora ibintu bigiye bitandukanye birimo gusuzuma umurwayi kuko aba abifitiye impamyabumenyi.

Birashimisha cyane kubona ababyeyi bakuze barimo basangira baseka, kandi ku masahane yabo bitaye cyane ku biryo birinda indwara ndetse n'imbuto nyinshi n'ibikombe by'amazi iruhande rwabo, kuko bamaze kumenya ko amazi ari ubuzima.

Umuganga na we ashobora kugira uruhare mu kwita ku buzima bw'umurwayi, umukoresha imyitozo ngororamubiri yoroheje kugira ngo ubuzima bwe bube bumeze neza, cyane cyane aba imvi ziba zarabaye uruyenzi batabona imbaraga zo guterura ibintu biremereye.

Gukora imyitozo ngororamubiri si ukunanura umubiri gusa. Hari bamwe babikora mu buryo bwo gusabana, kubera ko baba bahuriye ahantu ari abantu benshi bigatuma baganira kuko ariwo mwanya baba babonye wo kuganira.

Aba bantu babiri buje urugwiro barimo baraseka urebye neza ushobora kuba ari ibintu bibashimishije bibutse bakaba babisubiramo bagaseka, ariko ku rundi ruhande umugabo nawe ubona ko ashaje nawe urabona ko anyuzwe.

Iyo umubyeyi cyane cyane w'umugabo akina n'umwana we, usanga bishimanye kuko iyo yamuhaye n'agapupe biba ari byiza iyo iyo foto uyirebye, uba ubona basa neza ku maso rwose.

Iyo abantu bafite ubuzima buzima, nta kintu gishobora gutuma batamwenyura kubera ko umuntu arakara akenshi ari uko yumva atameze neza mu mubiri we. Rero ni byiza ko twirinda, tukaguma twishimye, dufite ubuzima bwiza buzira umuze.

Igihe cyose tubonye ko imibiri yacu ibyibushye cyane, ni byiza ko dukangukira gukora siporo kugira ngo tube twagabanya ibinure biri mu mubiri. Ibyo iyo tutabikoze dushobora kurwara indwara zigiye zitandukanye zirimo kuba twabyibuha cyane ndetse bikatwangiriza n'ubuzima.

Iyo ababyeyi bahuriye hamwe bafite icyabahuje ubona ko banezerewe biba ari byiza kurushaho iyo ubabonye, kubera ko ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba ababyeyi runaka bahura ari nta kintu gikomeye bahuriyeho.

Nta kintu gishimisha umurwayi nko kuba abona yitaweho n'umuganga, kubera ko iyo umuganga amuvura amusekera ubona ko amwitayeho cyane bituma ubuzima bwe bukomeza kuba buzima kandi nubwo yaba arwaye iyo ndwara ye ntabwo imuzahaza.

Umubyeyi kuba yasangira n'abana be ni ibintu byiza, kubera yuko umwana aba akeneye uburere bw'ababyeyi bombi kugira ngo akure yishimye kandi yumva ko akunzwe na bose.

Ingo nyinshi zakigiye kuri uru rugo urabona abantu barimo barahana keya ndetse bakitanaho mu bundi buryo butandukanye, ubona ko bishimye ariko bo bambaye udupfukamunwa bishoboka ko baba banduye kugira ngo atanduzanya.

Iyo umurwayi ashobora kuba atakigenza n'amaguru, agomba guhabwa akagare kugira ngo kajye kamufasha kuko umurwaza we na we bitamugora kuba yamusunika, akamusindagiza muri ako kagare.

Kuba ababyeyi bakicara hamwe bagasoma bimwe mu bitabo ndetse bakagira indi myanzuro bafata biba ari ibyo kubahwa kubera ko ibi bidakorwa n'abantu bose.

Mbere yuko umuganga aha umurwayi imiti, ni ngombwa ko abanza kumwigisha uburyo azajya ayikoresha, haba mu gitondo, saa sita ndetse na n'ijoro, akaba afite ubwo bumenyi mbere yuko ayinywa.

Igihe cyose umurwayi yajyanywe n'umurwaza kwa muganga, ntago agomba gusoreza aho ngaho ahubwo agomba kumukurikirana kugeza akize, kuko ariwe umumenyera igihe anywera imiti ndetse akanayimugezaho no ku gihe.

Ni byiza ko umugore n'umugabo bicara bagategurira hamwe ifunguro ,kandi iryo funguro ryabo rikaba rikungahaye ku mbuto ,ndetse n'imboga kugira ngo birinde ubuzima bwabo indwara kuko tuzi neza ko imboga ziri mu birinda indwara.

Gukora ibintu byinshi ndetse tugatekereza cyane bishobora kudutera sitiresi zo mu mutwe, bigatuma ubuzima bwacu butagenda neza. Ni byiza gukora, ariko tukagira n'umwanya wo kuruhura imibiri yacu kugira ngo ikomeze ikore neza.

Burya uko umubyeyi yaba ari kose ahora ari umubyeyi naho yaba imvi zarabaye uruyenzi, umwana we ahora amwishimiye kandi ntaba yifuza kumutakaza mu buzima bwe, kubera ko aba azi neza icyo yamukoreye nawe akiri umwana mutoya.

Umuryango ubanye neza kandi wishimye ubona ko bafite ubuzima bwiza nibyo byakaranze buri rugo rwose rw'abaturage batuye mu gihugu cy'u rwanda kubera ko aribyo leta y'u Rwanda iba yifuza ku benegihugu bayo.

Imiti gakondo iyo ishyizwe ahantu hamwe ikaba yajyanwa mu ruganda ibasha kuba yakorwamo indi na yo ijyanwa mu mavuriro tugenda dukuramo atandukanye.

Gutoza umwana akiri muto ibintu byose biba ari byiza kubera ko burya umwana aba agifite ubwonko bwiza kandi buri ku murongo butarajyamo ibindi bintu byabwangiza, ibyo bintu rero umwigishije abifata mu mwanya muto.

Ni byiza ko twita ku bikorwa byaribyo byose byo kwirinda indwara mu miryango yacu, kuko bituma imiryango yacu ibaho yishimye ikamwenyura ndetse ubuzima bukababera bwiza kubera ko baba bafite ubuzima buzira umuze.

Ni byiza ko umurwaza agomba gukurikirana imiti yandikiwe na muganga ko yahawe umurwayi ku gihe kandi neza ibi ngibi iyo bikoze umurwayi akira vuba bitagoranye cyane.

Mbere y'uko muganga agira imiti yandikira umurwayi, arabanza akamusuzuma akamenya indwara arwaye, nyuma akaza kumuha iyo miti ariko akanamwigisha uburyo azajya ayikoresha ari kuyinywa, kugira ngo atazayinywera rimwe yose ikaba yamuhitana.

Iyo ababyeyi bakuze badafite ibibazo by'indwara mu mibiri yabo baba bishimye ubona ko bakiri mu bihe byabo, bameze nk'aho bakiri batoya bagikundana.

Ni byiza ko umuganga yerekana uruhare rwiza mu kwita ku murwayi akaba yamubwira amagambo meza, kuko abenshi ari cyo baba barabuze mu buzima bwabo bigatuma hari izindi ndwara zibakururiramo.

Umukecuru utishiboye usanga yishingira amashyiga atatu akitekeraho agasafuriya ke, ariko ibi ntibimubuza kurya kandi n'iyo yashaka ibiryo by'ubwoko butandukanye, iyo abibonye aritekera akarya.

Kunywa ibinini, ni byiza ko tubanza gukaraba intoki n'amazi meza, ndetse ibyo binini tukabifata natwe dusukuye, kugira ngo itaziho umwanda bikaba byaduteza izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Nta kintu gishimisha abantu nko kubona umuganga arimo arakoresha umusaza ufite imbibi z'uruyenzi siporo, kugira ngo amaboko ye abe yarambuka kandi umubiri we ukomeze kugira imbaraga.

Kimwe mu bintu bishimisha umurwayi cyane ni ukubona yitaweho na muganga harimo nko kuba yamuha imiti ndetse akanamwigisha uburyo azajya ayinywa akaba yayimufungurira akamuhaho akanywa, ibyo bituma umurwayi rwose yumva anyuzwe na serivisi yahawe.

Umurwayi waryamishijwe mu cyumba ndetse harimo n'amamashini bisa naho arembye cyane, ni byiza ko bamuha umwanya akitekerezaho ari nako abaganga kuko bi ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwe ntibuzime.

Igihe twumva umubiri wacu utameze neza ni byiza ko tugana kwa muganga ahatwegereye bakaba bamenya uburwayi bwacu, kuko bashobora kuba bafata amaraso cyangwa bakadushyiraho ibyuma byabugenewe kugira ngo barebe uko umubiri wacu uhagaze.

Ni byiza ko iyo umwana akiri muto abasha gusindagiza umubyeyi we igihe intege zishize, kubera yuko umubyeyi nawe aba yaramufashije mu bihe bigoye akiri umwana atazi ibyo aribyo, niyo mpamvu ari byiza kumwitura.

Igikorwa cyo kuba wakita ku bantu bafite nabo ubumuga ukabagaragariza urukundo, ukabereka ko ubashyigikiye ndetse uri kumwe nabo, nabyo bituma biyongera iminsi yo kuba barama kubera ko h'ari abamaze kwiheba banigunze bumva ubuzima bwarangiriyeho.

Abantu bateraniye hamwe bishimye; harimo abagore benshi, ndetse ubona ko bishoboka ko ari umunsi wabo, baba bifotoreje hamwe kugira ngo bizahore ari urwibutso muri bo.

Buri rugo rugomba kuba rufite umushinga w'uburyo ruzakoramo mu myaka iri imbere, kandi iyo raporo iba ikenewe n'abayobozi kugira ngo bazaze gusuzuma niba ibyo biyemeje bamaze kubigeraho.

Igihugu cyacu tugira ingamba zitandukanye zo kuba twarwanya diyabete, muri izo ngizo zirimo kuba twakora imyitozo ngoraramubiri, tukirinda kurya ibiryo birimo amasukari ndetse n'imyunyu myinshi ndetse tukanakurikiza n'amabwiriza yandi duhabwa.

Mu gihe cy'indwara z'ibyorezo, cyane cyane nka korona virusi ndetse na mabaga, byasabaga ko abaganga bipfuka mu maso, bakambara ahantu hose ku buryo utabona umubiri wabo, ndetse n'udupfukamunwa, kugira ngo icyo cyorezo batacyandura.

Minisiteri y'uburezi niyo yonyine ishobora gufata ingamba nshya ku bijyanye n'uburezi ndetse n'ubuzima, ibyo byose kugira ngo ibikorere abaturage bakomeze babeho neza.

Ikigo gishinzwe kurwanya sida ndetse n'igituntu kirashishikariza abantu bose kwirinda izi ndwara kuko ari indwara zica abantu benshi cyane zigatwara ubuzima bwa benshi buri mwaka butirengagije uko ungana kose.

Buri gihe cyangwa ngarukamwaka Minisiteri y'ubuzima igira ibikorwa ikora kandi bigirira umumaro abantu benshi, birimo kuba byabarindira ubuzima bwabo.

Ni kenshi dushishikarizwa na leta yacu kuba twakora ibintu byatandukanye mu buryo bwo kugira ngo turinde ubuzima bwacu cyane cyane nko kuba twakwirinda sida kubera ko sida iri mu ndwara zica abantu benshi kuri iyi si.

Abantu benshi bakunze gukora inama ahantu ho bishoboka ko bahurira ari benshi ariko iyo bitari bukunde na bwo hari uburyo bwiza bwo bakoresha imbugankoranyambaga bakaba babasha gukoreraraho inama kandi ari nta numwe uri kumwe n'undi.

Hagomba kubaho umunsi mpuzamahanga wo kwirinda ndetse no kurwanya kanseri, kubera yuko kanseri ituma umuntu abagwa zimwe mu ngingo ze cyangwa ikaba yamuhitana burundu.

Ababyeyi nitwe dufite inshingano za mbere zo kwita ku bana bacu, kubera ko iyo tubitayeho bituma bakura neza mu bwenge, mu mitekerereze, ndetse n'ibindi, bigatuma abana bacu bazakurana ubwenge.

Ni byiza ko dushishikarizwa kwambara udupfukamunwa igihe tugeze ahantu dutekereza ko haba ari indwara z'ibyorezo kubera ko dushobora kuhakura icyorezo tutabizi nyamara twari dufite ubushobozi bwo kuba twakirinda kare.

Gukomeza gukora ingamba neza no kuzubahiriza ni bimwe mu bituma twirinda indwara; kubera ko iyo amazi yamaze kurenga inkombe ntabwo biba bigikunze, ni byiza ko twirinda hakiri kare tutararemba.

Iyo abantu bagiye mu mahugurwa yo mubigendanye n'ubuzima bashobora kuhava babonye seritifika kandi izo mpapuro zishobora gutuma aho bazajya gukora hose bizagaragara ko ari abahanga mu byo bagiye gukora.

Ni kenshi iyo abantu bavuye mu mahugurwa, cyangwa ikindi gikorwa cyabahuje nk'inama n'ibindi, bagomba gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo uwo munsi bajye bawibukiraho yuko bakoze icyo gikorwa.

Igihugu cyacu ndetse n'isi yose igira umunsi wo kwizihiza buri mwaka uwo munsi bakamanika amabandorore yanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Tugomba kumenya ko twakwita ku buzima bwacu neza, kandi tukirinda guhama turwaragurika tujya kwa muganga kuko na byo bituma imibiri yacu icika intege, igahora irembye.

Ni kenshi igihugu cyacu binyuze mu muryango wa RBC kidushishikariza kwisuzumisha igituntu, kubera yuko ari indwara ivurwa igakira. Buri wese agomba kugana izi serivisi igihe cyose yumva akekwaho inkorora imaze ibyumweru bibiri.

Nubwo sida ari indwara yica abantu benshi ku isi ariko hari uburyo bwinshi bwo kuba twayirinda igihe byatunaniye kwifata. Byiza ko tugana ku kigo nderabuzima kitwegereye bakaba baduha udukingirizo mu gihe kwifata byatunaniye.

Urugaga rw'abantu benshi bisa naho bahoze mu mahugurwa, biragaragara ko imbere hari abagabo bakomeye bambaye amakoti asa neza ndetse n'amakaruvati bishoboka ko aribo bari bayoboye iki gikorwa.

Byamaze kumenyekana ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari icyorezo cyamaze kuhagera, none Minisiteri y'uburezi idushishikariza kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende kubera ko yandura vuba kandi yica nabi.

Ni byiza ko igihe umurwayi ageze kwa muganga afite indwara igendanye n'ubuvuzi bw'amenyo abanza gusuzumwa, akarebwa ikibazo yaba afite mbere yuko ajyanwa ku gatanda kabugenewe.

Ni byiza ko abana bacu batozwa cyangwa bakigishwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kubera ko iyo batabizi nta makuru babifiteho, bashobora kubyishoramo ugasanga bamwe bateye inda, abandi baratwise mu buryo batateguye.

Biba bishimishije cyane kubona umumama ari imbere yafashe imbwirwaruhame, hari abantu arimo arabwira ibigendanye n'ubuzima bwiza no kwirinda, ni byiza ko twumvira amabwiriza duhabwa.

Ni byiza ko igihe cyose tubonye impinduka ku mubiri wacu, irimo ubuheri tugomba kujya kwa muganga bakaba badusuzuma kuko hari igihe haba hari ingingo zitari gukora neza bikaba byateza icyo kibazo.

Nk'ibisanzwe inyubako zitanga ubuvuzi bugiye butandukanye ku barwayi zigomba kuba zirimo buri kimwe gikenewe n'umurwayi kubera ko aje akagira bimwe abura byatinda kuba babishaka bigatuma uburwayi bwe bugera kure.

Urabona abantu benshi ko bishimiye kuba bahabwa serivisi zo kuri Butaro hosipito, ndetse bamwe bo muri bo ni abazungu, n'abandi ni abirabura, ubona ko buzuye urugwiro kubera ibyo babonera kuri Butaro hosipito.

Si buri murwayi wese uhabwa akagare, ahubwo gahabwa n'umuntu wakomeretse bikabije ku buryo atashobora kwigenza n'amaguru kugira ngo kamufashe kuba kamusunika, kakamwegereza aho yari kwigeza n'amaguru.

Ni kenshi muri saro z'abantu haba hatatsemo ibintu nk'ibi byiza, intebe zifite imisego yo kwegamira myiza ndetse hatatsemo n'indabyo zigiye zitandukanye, aha haba hasa neza ndetse no kuhaganirira biba biteye amatsiko.

Kubera ko muganga aba ari we wenyine uzi uburyo umurwayi arwaye, niwe umenya n'uburyo amuvuramo kubera ko ashobora gukoresha amayeri menshi ariko icyaba agamije cyose kiba ari ukuganisha ku gukira k'umurwayi.

Si byiza ko tujya mu byumba byagenewemo abarwayi kandi twebwe turi bazima kubera yuko dushobora kuhandurira indwara zitandukanye, ibi byemewe gusa n'abaganga kubera ko aba aribo bazi uburyo bakwirinda.

Mu byumba byinshi bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, bigomba kuba birimo ibikoresho byose. Turabonamo ibikoresho by'ibyuma, bishobora kuba bikoreshwa bari gusuzuma umurwayi, ndetse bikaba byanabafasha kuba bamuvura.

Nikenshi arbc idushishikariza kurwanya inrwara zirimo na marariya dushishikarizwa kuba twatema ibihuru bikikije ingo zacu ndetse tugasiba nibidendezi nibinogo byose bigaragara mungo zacu.

Ni byiza ko buri kigo cy'amashuri kigomba kuba gifite aho abana bicungira barya umunyenga kugira ngo bumve bishimye kuko aricyo abana bakunda bose.

Ahantu nk'aha hari inyubako nk'izi zigiye zitandukanye, ni byiza ko haba hari n'ibiti, abantu bashobora kuba bakicara, bakaganira ndetse bagafata n'akayaga, kugira ngo serivisi zabazanye zongere zikomeze.

Mu buzima bwa buri munsi tunyuramo, hari igihe tugeraho tukarwara bikaba ngombwa ko tujya kuri farumasi zitwegereye, tukaba twashakayo imiti iba idufasha muri ako kanya igihe tutarabona uburyo twajya ku kigonderabuzima kitwegereye ngo badusuzume.

Bamwe mu bantu bakwiye kubahwa cyane ni abaganga, kubera ko bakora serivisi zikomeye ndetse bakaba bagarura ubuzima bw'abantu bwari bugiye kuzima. Ni byiza ko igihe cyose twumva tutameze neza twihutira kujya kwa muganga kuko babifitiye ubumenyi bakadukurikirana.

Umuganga agerageza kwisanisha n'umwana igihe arimo aramuvura kubera yuko byagaragaye cyane ko abaganga bakunze kuba inshuti n'abana kugira ngo amuvure arabanza agakina na we.

Ahantu hari intebe nziza ndetse hanateguye cyane, hashobora kuba hakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, kubera ko ari cyo kiharanga cya mbere kuba hari isuku ndetse hanagaragara ko hakwakira buri wese umeze nabi.

Iyo ugeze mu ntara y'amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Huye, uhasanga ikigo nderabuzima cya Matyazo, ahangaha hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuzima ndetse bakira buri murwayi wese.

Murwaza nubona ugeze mu bitaro ugasanga haryamyemo umurwayi muri ubu buryo, si byiza ko ujya kumusakuriza kuko hari impamvu baba bamusize wenyine kugira ngo ubwonko bwe bube bwakora neza mbere y'uko umuganga aza kumwitaho.

Amateleviziyo, ibyuma bisa umweru ndetse ubona ko ari bishyashya. Iyo biri kwa muganga, bikoreshwa neza kandi bigatanga serivisi zihuse k'ubikoresha.

Igihe byagoranye ku murwayi urwaye kanseri, hari igihe ikigo gishinzwe kurwanya kanseri mu rwanda kiba aricyo gihitamo kuba cyaguha taransiferi yo kujya ku bindi bitaro bikomeye bakakwitaho.

Si kenshi uzabona uburiri busashe neza n'amashuka y'umweru, aho ngaho ngo wibwire ko hadakorerwa serivisi zijyanye no kwa muganga, kuko dukunze kuba tuzi ko hasaswa amashuka y'ubururu ndetse n'umweru gusa.

Ni byiza ko igihe cyose twumva tubonye amafaranga tugomba kubaka inyubako nziza aho dutuye, kuko inyubako nziza igaragaza umuntu uwo ari we, bigatuma ugira icyubahiro kidasanzwe.

Icyumba cyagenewe abarwayi cyane cyane bashaka kubapima ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ahandi kugira ngo barebe uko bahagaze mbere y'uko babavura; ni byiza ko rero tugomba kwitabira serivisi zihakorerwa bakaba bamenya uko bihagaze.

Icyumba ubona ko gisukuye kimeze neza kandi kirimo n'isuku nyinshi ugereranyije n'ibindi byumba, ahangaha rero hakaba hagaragaramo ibirahure, inkuta zisize amarangi y'umweru ndetse anasa neza cyane.

Buri bitaro bigomba kuba bifite aho bakorera imyitozo ngororamubiri ndetse bikaba byarashyizezweho n'umutoza wayo, kuburyo abashatse kuhagana bose baza bafite uri bubakoreshe ndetse akabereka uburyo binakorwa.

Nii byiza ko RBC ishyiraho ama bandelore menshi yamamaza ndetse inerekana uburyo umuntu yakwirinda indwara zigiye zitandukanye, itararengera ngo abe yarembera iwabo.

Buri hantu hose hagiye hegereye ivuriro cyangwa ibitaro hagomba kuba hari icyapa cyabugenewe cyerekana ko aho hantu hakorerwa izo serivisi, kugira ngo n'uhageze wese ataba yayoba ahubwo asome ibyanditse bibe aribyo bimuyobora.

Gutera ameza n'udutebe ni byiza mu cyumba cy'umurwayi kugira ngo ari uwamuherekeje niba biri ngombwa ko yinjiranamo, yinjiye yicare akurikirane uburyo umurwayi we avurwa.

Kwa muganga hagiye habaho ibyumba bitandukanye, ariko icyumba gitangwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo kigomba kuba cyihariye kirimo ibikoresho byose, bishobora kuba byakura amenyo, n'ibyayahoma, n'ibindi bigiye bitandukanye, nk'ibitanda byo kurambikaho umurwayi.

Buri vuriro rigomba kugira ikigo cy'ubushakashatsi kubera ko iyo havutse nk' icyorezo runaka bagomba kujya muri ibyo byumba by'ubushakashatsi bakajya inama bakaba bakiga kuri icyo cyorezo cyavutse bakagishakira n'umuti.

Si byiza ko icyumba kivurirwamo abarwayi kwa muganga kigomba kuba kirimo ibintu byinshi by'akavuyo, ahubwo hagomba kuba hatunganijwe kugira ngo umurwayi nahagera yumve impumeko nziza ndetse binamufashe kuba yavurwa agakira.

Ni byiza ko abaganga bakora akanama mbere y'uko bajya mu mavuriro bakaba bavura abarwayi, kubera ko iyo bari kumwe hari ibintu byinshi bashobora kuvumbura bitari kuba byavumburwa n'umuntu umwe kubera ko baba bahuje ibitekerezo byabo.

Iyo umubyeyi ajyanye kwa muganga umwana we, bakaba bamupima kugira ngo barebe ikijyanye n'imirire uko gihagaze, biba byiza kuko amenya niba umwana we, akwiriye indi mirire itandukanye n'iyo yamugaburiraga akaba yamuhindurira.

Hari igihe biba ari byiza ko buri hantu haba ahemewe cyangwa ahabujijwe kwinjira hagomba kuba hariho amagambo ahanditse kugira ngo uzi gusoma ataza kuyoberamo.

Inyubako irimo ibikoresho byose bikenewe, igomba kuba inasa neza kugira ngo buri gikoresho cyari gifite ubuziranenge bwacyo, kitaza gutakaza agaciro bitewe n'umwanda waho.

Ikigaragara cyo iyi nyubako irimo ibikoresho bigiyue bitandukanye bikoreshwa n'abaganga muri serivisi zo kuba abarwayi babaryamisha kuri iki gitanda kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo ndetse banabavure.

Buri muganga wese agomba kwita ku isuku mu miti aha umurwayi, kuko ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umurwayi aremba uramutse umuhaye imiti itujuje ubuziranenge cyangwa yarangije garanti.

Kwita ku murwayi ni inshingano nziza z'umuganga, kubera yuko hari abarwayi benshi bagwa mu bitaro bazize yuko batabonye ukurikirana ubuzima bwabo hakiri kare bakaza kwitabwaho bitagishobotse.

Abantu benshi dukunze kwibaza ku nyubako nini, tukibaza amafaranga ziba zarashowemo kugira ngo zibe zubakwa, nyamara abakire bo bazubakishije baba babona ari ibintu bisanzwe nkuko natwe utuntu duciriritse tuba tubona ari uko.

Buri ahantu hose mu mudugudu, ni byiza ko haba ikigonderabuzima, kubera ko iyo umuntu yumva atameze neza, niho hantu abanza kugana mbere y'uko ajya ku bitaro bikuru, ngo barebe icyo arwaye bakamusuzuma akiri aho hafi.

Ibi bikoresho biba bihenze cyane nta nubwo bipfa gushyirwa mu mavuriro ayo ariyo yose kubera ko bitumizwa mu mahanga kandi bigakoreshwamo amafaranga menshi kugira ngo bizanwe.

Umuganga urimo uratanga serivisi ye neza, kandi akita ku murwayi, ndetse hari n'utwuma yashyize mu matwi ari kumva ko mubiri we birimo biragenda, ndetse yumva n'umutima we niba ukiri muzima, kugira ngo abone icyo ari bumufashe nyuma.

Ni byiza ko umuganga aba afite ibyuma by'ikoranabuhanga areberamo kugira ngo amenye uburyo akoresha imiti ye n'uburyo yashyikiriza abarwayi kugira ngo ikore mu mubiri icyo igomba gukora.

Regasi hosipito inforumashoni desike, aha na ho iyo uhagannye bakumenyesha amakuru agendanye n'ubuzima, kubera yuko na byo biri muri serivisi zo baha abantu baje babasanga.

Mu bitaro bikuru bikomeye yaba iby'akarere, iby'intara ndetse n'ibindi by'igihugu bigomba kuba bifite sikaneri ku buryo umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ayipimirwamo, bakaba bareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Igihe tubona umuntu yarembye ni ngombwa ko tumuha ubutabazi bw'ibanze, kuba tumushyize ku gitanda akaruhuka, hanyuma tugakurikirana izindi serivisi zo kuba twamwegereza ku kigo nderabuzima kimwegereye bakamukurikirana.

Bijya bigora cyane abarwaza, kuba bakemera ibyo babwirwa n'abaganga, nko kuba mbere yuko banyuze umurwayi muri sikaneri babanza kukubwira ngo wemeze niba aramutse agize ikindi kibazo aba wabyirengera.

Twabwiwe kenshi ko atari ibya buri wese kunyuzwa muri sikaneri kubera ko bayikunyuzamo akenshi, ufite ikibazo mu mutwe, bashaka kureba uko ubuzima buhagaze bwo mu mutwe cyangwa bashaka ku gupima ikindi kintu cyihariye.

Buri farumasi mu gihugu cyacu, iba ifite ubwishingizi igenda ikorana na bwo. Urugero, turabona ko iyingiyi ikorana na midipuramu, ubwishingizi bwa rama, ubwishingizi bwa arayesesibi, ndetse na misi yuwara.

Kuba hapanzwe bino bitanda bigiye bitandukanye kandi hakaba nta barwayi barimo ntibivuze ko batarwaye ahubwo hari igihe isaha yo gutangira akazi ndetse no kuba abarwayi muganga wabo ataraza byaba bimwe mu mbarutso ituma ibitanda biba biri byonyine.

Muri Nyagatare, abantu benshi bakunda kwitabira serivisi zitangirwa ku kigo nderabuzima cya Tabagwe, kubera ko bamaze kumenya neza agaciro ko kwegera ikigo nderabuzima kibegereye bakaba bapimwa batararemba, indwara zabo zigakurikiranwa.

Abantu benshi bashimishwa no kubona inyubako zigerekeranyije, kuko ziba zisa neza kandi zaratakajwemo amafaranga menshi, iyo bahageze abenshi bakunda kuhifotoreza, kubera ko haba hari n'amafoto aryoshye.

Kwa muganga, akenshi harangwa n'ibikoresho bigiye bitandukanye, abantu tudakunze kubona mu ngo zacu. Kubera ko biba ari iby'ubuzima gusa, kandi mu ngo zacu nta serivisi z'ubuzima zihakorerwa.

Si byiza ko ibyumba byakirirwamo abarwayi biba bisa nabi, kubera ko ntabwo wakita ku murwayi ngo nurangiza ugire umwanda, ngo noneho bimugwe amahoro, ni byiza ko hagomba kuba hasukuye kandi hanasa neza ku isura.

Ahantu hari inyubako zitandukanye, zubatswe mu buryo butandukanye ndetse uri kubona ko zidasanzwe ariko muri jaride hameze neza, hari utwatsi dutoshye ndetse hari n'utuyira twiza.

Inyubako nyinshi zivurirwamo abarwayi ziba zikeye ku buryo buri wese ahita abibona, kandi ni na byiza kuko ntabwo waba utanga ubuzima ngo serivisi ukora uyikorera ahantu hasa nabi.

Ababyeyi niba tumenya ko hari ikigo gishinzwe kwakira abana kitwa Rwanda children tugomba kubegerezaho tukamenya serivisi zihatangirwa kuko tuba dufite abana batoya kandi bireba.

Inzira igaragaza imiryango myinshi igiye itandukanye bishoboka ko ari imiryango yo kwa muganga ishobora kuba yanyuramo abarwayi bagiye kureba abaganga kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo babahe serivisi zose.

Ni byiza ko kwa muganga hagomba kuba handitse kuri buri muryango, kugira ngo bayobore abarwayi, babashe kuba bagera mu cyumba runaka batayobye kubera ko babarimo baragenda babyisomera.

Mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, niho haboneka serivisi zitangwa mu bitaro bya ruhengeri; kuko hakunze kujyanwa abarwayi barembye cyane kubera ko haba abaganga b'inzobere bakabakurikirana.

Ni byiza kwinjira mu ivuriro ukabona rifite ibikoresho byose ndetse n'ibitanda byaho bisashe n'amashuka asa neza y'icyatsi nk'aya kubera ko iyo isuku uyibonye ubona ko nta kabuza na serivise ukeneye iri bukorwe neza kandi ku gihe.

Kimwe mu byumba kirimo abaganga bageze kuri bane ndetse n'abarwayi babiri, umuganga ari kwita ku murwayi umwe ndetse anamupima bigaragara nk'aho aei kumupima umuvuduko w'amaraso.

Kuba aha hantu bakirira umurwayi ni ukuvuga ngo kwa muganga hari isuku bituma hagaragara neza, ndetse n'umurwayi uhageze hari izindi ndwara biba bimurinze, kuko habaye harimo imyanda byazateza izindi ndwara kandi kuvura byazagorana.

Igihe cyose umurwayi biri ngombwa ko atakwijyana, ni ngombwa ko tumushyira ku gatanda ko kwa muganga kaba gafite amapine kubera ko tuba tudafite imbaraga zamuterura akaba ari ko dukoresha kugira ngo tumugeze mu cyumba ahabwamo serivisi.

Ibitanda, intebe z'ibyuma ndetse na televiziyo n'ibindi bikoresho bijyiye bitandukanye, ni bimwe mu bikoresho bigaragara kwa muganga cyane cyane mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'amenyo n'indwara zo mu kanwa zindi.

Mu byumba by'abarwayi kwa muganga hagomba kuba hatuje harimo n'isuku kugirango hirindwe izindi ndwara zigiye zitandukanye zandurira mu mwanda, niyo mpamvu nta murwaza wese wemerewe gupfa kuhagera uko yiboneye.

Ku ivuriro iryo ari ryo ryose hagomba kuba hariyo abaganga ndetse ikibagaragaza ni uko baba bambaye imyenda isa ndetse bamwe muri bo ni byiza kuba bambaye n'udupfukamunwa kugira ngo bagire indwara birinda.

Biba byiza iyo icyumba kivurirwamo abana, kibaye kirimo ibishushanyo abana bakunda, nk'inyamaswa n'utundi tuntu tubarangaza, kubera ko bahugira muri ibyo, muganga agakora icyo agomba gukora.

Nta cyiza nko kugera ku kigo nderabuzima, ugasanga abantu bicaye bategereje serivisi, ariko nanone zikaba zikorwa n'umuganga ubisobanukiwe, kugira ngo abarwayi ataza kubatinza, kuko iyo batinze barambirwa vuba, kandi bakumva barushijeho kuremba.

Buri hantu cyangwa buri ntara, igomba kuba ifite ikigo cy'ubwishingizi, ndetse abenshi mu baturarwanda, bakoresha mituweli kubera ko aribwo bwishingizi buborohera bose.

Icyumba cyabugenewe cyo kuba abarwayi baryamamo, ni byiza ko kiba gisukuye kirimo inzitiramibu, kirimo n'ibindi bikoresho umurwayi yakenera kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba buzima.

Iyo abaganga bari hamwe bamaze gukora akazi kabo baba bishimye. Kuko nta kintu gishimisha umuntu nko gukora akazi ke kandi akagakora neza mu buryo bugaragarira buri wese.

Iyo ugeze ahantu hashashe gutya, ibitambaro by'ubururu bwijimye ndetse n'ibindi by'umweru, n'amarido, ndetse hari n'isuku imeze uku, uhita utekereza ko ari ahantu havurirwa abarwayi, kuko kwa muganga ntihaba akajagari na mba.

Si byiza ko ahantu hari materinite cyangwa inzu y'ababyeyi bagomba kuba hari urusaku kubera yuko akenshi hajyanwa ababyeyi batwite bita ku buzima bwabo ndetse n'abana bo batwite bari mu nda.

Ahantu hasa neza hakunze kugaragazwa n'indabyo ndetse n'ubundi busitani bwiza kuko bituma hagaragara neza ndetse n'ifoto yaho ukabona ko ari nziza ku buryo abantu bakunda kuhifotoreza.

Ni ngombwa ko ibitaro byujuje ibisabwa bigomba kuba bifite ibyuma byabugenewe birimo nka sikaneri ndetse n'ibindi barambikamo umurwayi, kugira ngo bamusuzume niba hari uburwayi afite mu kanwa bakaba babukurikirana bakabuvura.

Iyo ugeze mu cyumba gifasha abarwayi bahabwa serivisi zo kuba bakurwa amenyo, wahasanga intebe zabugenewe ndetse hari n'ibyuma byabugenewe kuba bakura abantu n'ibitanda abarwayi baryamaho kugira ngo muganga abone neza uko yabakorera izo serivisi.

Ahantu hari inyubako nk'iyi nini ndetse hari n'imodoka zijya zitandukanye haba hasa neza kubera ko na parikingi yaho iba ituje kandi ubona ko yagenewe imodoka nziza cyane cyane zimwe z'abayobozi.

Nageze kwa muganga nshimishwa no kubona hari umuganga witaye ku kana gato cyane, kari mu kigero cy'imyaka cyangwa amezi runaka; kubera ko aba akitayeho nk'aho arake ukabona bishimishije.

Ni byiza ko buri muganga wese agomba kuba yambaye agapfukamunwa ndetse yanirinze mu buryo bwose kugira ngo najya kuvura umuntu abe atamwanduza indwara kuko byagaragaye ko hari kwaduka ibyorezo byinshi muri iyi minsi.

Abantu benshi iyo bageze ahantu hasa neza muri ubu buryo bakunze no gutinya kuhinjira kuko uba utekereza ko hari abayobozi bakomeye kandi abantu benshi batinya abayobozi.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, hagomba kuba harimo ibikoresho byabugenewe nk'amarido, imeza, kizimyamwoto ndetse n'udukoresho two gutamo imyanda bamaze gukoresha.

Mbere yuko umurwayi yinjira mu bitaro, hagomba kuba hari icyapa kimuyobora kugira ngo abe yabasha kumenya aho yinjirira kuko ibitaro bikuru abenshi nta nubwo baba bazi inzira bari bunyuremo bajya kwivuza.

Akenshi iyo umuntu yinjiye mu cyumba gishushanyijeho bino bishushanyo by'abana ndetse kikaba kiriho n'utu dutanda dutoya, uhita utekereza ko ari ibitaro by'abana ari icyumba kivurirwamo abana batoya.

Burya nubona inyubako yubatse neza nk'uku, ntukajye wumva ko ari ahantu bapfa guhita baza kwivuriza, kubera ko ibi biba ari ibitaro bikomeye cyane, bikuru, bajyanaho umurwayi wenyine wahawe taransiferi yo kuba yahoherezwa.

Si ibya buri wese kuba yakwivuriza ku bitaro bikuru bya Nyarugenge, kubera ko aha ngaha hajyanwayo umuntu wahawe taransiferi wenyine yo kuba yahivuza kuko ni ibitaro bivura aho abandi bananiwe.

Igihe twagiye kwa muganga si byiza ko dukinira ku byuma ibyo aribyo byose kuko ibyinshi tuba tutazi icyo bikora, uretse muganga wenyine waduha uburenganzira bwo kuba twabikoresha kuko ari we ubu akamaro kabyo.

I nyanza haba ibitaro bikuru nabyo bifasha abarwayi cyane cyane iyo umurwayi ya ahawe taransiferi bakamwohereza kuri ibi bitaro, bamwitaho kandi bakamukurikirana kuko umurwayi wese uhagejejwe uburwayi bwe buba bukomeye kandi bakitabwaho neza.

Buri vuriro ryose ritegetswe kuba rifite inzu yakira ababyeyi kugira ngo babe basuzuma igihe batwite; ubuzima bwabo kugira ngo bakomeze babukurikirane neza kandi ku gihe.

Iyo ugeze kwa muganga inyubako zimeze uku nizo ukunda kuhasanga, imyanya yabugenewe abarwayi bicaramo ndetse iki hanga ni uko haba hatuje hari isuku kandi ubona ko hagaragara neza.

Inyubako nyinshi zikunze kuba zifite imiryango myiza kandi ibereye abantu b'abasirimu, niyo mpamvu kwa muganga ari byo bakoresha cyane kubera ko n'ubibonye abona ko byateguranywe ubwenge.

Muganga aba afite igitabo yandikamo igihe umurwayi arimo aramubwira uburyo yafashwe, akabyandika kugira ngo aze kumenya uburyo aramusuzumamo, akaza kumuha imiti ikwiranye n'indwara arwaye.

Mbere yuko umurwayi ahabwa serivisi hari imyanya yabugenewe agomba kuba yicayemo ategereje muganga uri buze kumuha serivisi, muganga iyo abonye ko bikwiriye ko agerwaho aramuhamagara akaba yamusanga mu cyumba ke akamusuzuma.

Ibikoresho nka sikirini, igitanda ndetse n'ibindi byuma byabugenewe ni byiza ko biba bigaragara ahantu hakorerwa ubuvuzi bw'amenyo kugira ngo umuganga ataza kujya agira ibyo abura bigatuma atita ku murwayi neza.

Inyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi bw'abarwayi, igomba kuba irimo ibikoresho byose bikenewe kandi umurwayi iyo ahageze abasha guhabwa serivisi nk'uko azishaka, kuko buri kimwe cyose aba yaje asanga gihari.

Ibi bikoresho byinshi tubisanga kwa muganga, kubera ko harimo ibitanda abarwayi barararaho hakaba n'ibindi bikoresho bakoresha kwa muganga bavura abo barwayi, niyo mpamvu igihe cyose turwaye tugomba kwihutira kujya kwa muganga.

Ni byiza ko buri vuriro rigomba kuba rifite abantu bakora amasuku mbere y'uko bakira abarwayi bakabanza kuhakoreramo amasuku kuko ubuzima bwa mbere ni isuku udafite isuku warwara n'izindi ndwara utabasha kuvura.

Kuba aha hantu hagaragare isuku, ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. Urabona ko haramutse haje nk'umurwayi, cyangwa undi wese ukeneye serivisi zihakorerwa, ashobora gutaha yishimye bitewe n'uburyo yabonye hasa neza, kandi icyo yashakaga akagitahana.

Iyo ugeze i Kigali uhasanga mediyasoro farumasi iherereye i Remera, iba yakira abantu benshi bagiye batandukanye kubera ko ibafite imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye abantu bakenera.

Igihe cyose tugeze ahantu tukabona hafite isuku hasa neza nawe ushobora kubyishimira kubera ko abantu benshi ntago bakunda umwanda ahubwo bakunda kuba ahantu hasukuye buri munsi kandi bakishimira kuhakorera n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bya buri munsi.

Inyubako zisa neza zirimo ibyuma n'ibindi bikoresho bitandukanye, iyo uzibonye naweyo biragushimisha. Kubera ko serivisi iyo uyikeneye ukayisanga ahantu heza nabyo birakunyura.

Kimwe mu bintu bigomba kuranga kwa muganga, agomba kuba ari inyubako zikeye zifite ubusitani bumeze neza, ku buryo umurwayi unaniwe ashobora kujya kubwiryamiramo.

Ahantu haba hari intebe zegeranye nk'uko ubona ko zizengurutse hashobora gukorerwa inama, ivuga ku bigendanye n'ubuzima; kubera ko izi ntebe zitegurwa gusa hari ahantu hagiye guhurirwa n'abantu, ku ngingo runaka baba baganiraho.

Umuganga iyo amaze gusoza akazi ke cyangwa ategereje se undi murwayi agomba kwicara ku ntebe yabugenewe kugira ngo serivisi ze akomeze kuzitanga ku barwayi bose.

Inyubako zegereye kwa muganga ni byiza ko ziba ziriho indabo z'imitako, ndetse no kwa muganga ubwaho bigomba kuba bimeze uko, ibingibi bituma hari akayaga kaza gatandukanye n'indi miyaga yose.

Abantu bose siko baba basobanukiwe bino bikoresho, si byiza ko umurwaza agera muri iki cyuma, kuko ashobora kugira ibyo bacokoza bikarangira hari ikibazo kivutse kubera ko aba atazi amakuru yabyo neza.

Mbere y'uko bajyana umurwayi muri ibi byuma, bagomba kujya inama y'icyo bari bumukorere kubera y'uko ibi byuma byakozwe n'abazungu, nta bwo ari ibyo kujyanamo umurwayi wese batabanje kubyigaho.

Ubundi iyo winjiye ahantu ukabona hapanze intebe hateguye neza; n'utundi dukoresho ubona ko dekeye; uhita wumvako hashobora kuba hari bubere amahugurwa y'abayobozi bakomeye.

Iyo ugiye mu majyepfo uhasanga ibitaro bikuru byitwa kwa Nyirinkwaya kubera ko ibi bitaro bitanga serivisi ndetse n'ibindi byose umuntu yakenera abasha kubibona iyo ahageze.

Kuba inyubako zimeze neza byo ni ahantu hose hatangirwa serivisi kuko bisa n'aho ari wo muco waho kuba bafite ubusitani bwiza imihanda isa n'ikeye ndetse n'isuku iharangwa.

Iyo ugiye kwikuza iryinyo muganga agutegeka kuryama ku gatanda ndetse ubona binateye ubwoba cyane cyane ku muntu ugiyeho bwa mbere aba yumva atazi ibigiye kumubaho.

Ikigaragara cyo iyo umubiri uwutoje kuwunywesha amazi menshi kandi meza, nta kintu cyatuma utagira ubuzima bwiza kubera yuko ari cyo umubiri uba ukeneye kugira ngo ubeho neza.

Ni byiza kujyana n'undi muntu muri siporo kubera y'uko azikoresha, iyo umunyu ayikoresheje ku giti ke, ashobora gukora utuntu tworoheje akumva ananiwe agahita yitahira.

Cyane cyane abantu bavuye muri siporo bakunze kuba bafite amazi kuko bayakenera cyane bitewe n'imbaraga baba batakarije muri izo siporo, bigatuma ari byiza ko imibiri yabo yongera kwakira andi mazi.

Buri muntu wese akunda gukora siporo, kandi izo siporo akora zigira akamaro ku mubiri we, abenshi bakunze kuzikora biyambariye ama ekuteri, kugira ngo bijyanane n'umuziki babe babasha kuzikora bishimye.

Ni byiza ko buri wese akora imyitozo ngororamubiri buri munsi, kubera yuko iyo wakoze imyitozo ngororamubiri ubuzima bwawe bukomeza kuba buzima kandi ntushobora no kurwaragurika indwara zigiye zitandukanye.

Iyo umuntu agomba amaze gukora imyitozo ngororamubiri, akenera kuba yarya indyo yuzuye ndetse ntiyibagirwe kuba yarenzaho imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye, ibi bituma umubiri we ukomeza kugubwa neza kandi ugakora neza.

Si byiza ko igihe cyose tuvuye mu myitozo ngororamubiri dufata amazi tugahita tuyimenaho, umubiri wacu utaratuza; kuko haba hari utwenge tuba twafungutse amazi ashobora kwinjiriramo bikaba byaduteza ibibazo.

Buri muntu wese ugeze kwa muganga, agasanga afite ikibazo cy'imitsi, bagomba kumushyira mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, bakaba barambura imitsi ye kugira ngo avurwe.

Umukobwa, umusore, umugabo, umugore, n'undi uwo ari we wese, ni ingenzi ko akora imyitozo ngororamubiri, kubera ko imibiri yacu, tutitaye ku kigero turimo, iba ikeneye siporo. Ni byiza ko tuzikora, kugira ngo imibiri yacu ikomeze kuba myiza.

Bimwe mu byo umuganga agomba kuba afite, ni agakaramu n'agakaye ko kwandikamo n'igipimo cyo gupima uburebure, ndetse akaba afite n'umunzani bahagarara akareba ibiro byabo.

Ababyeyi bombi bishimye ndetse n'umwana uri hagati yabo yishimye, bigaragara ko umwe ari umwirabura undi akaba umuzungu ariko barishimira ko umwana ameze neza.

Abantu iyo bagize ikibazo kabunze kwishakira ubuvuzi bw'ako kanya, nyamara bakirengagiza ko hari abaganga bashyiriweho kurinda ubuzima bwacu bakanga kubagana ugasanga bibaviriyeno ibindi bibazo.

Iyo umuntu anywa amazi ku gihe kandi akayanywa mu buryo bwagenwe arabyibuha kandi umubiri we ugakora neza, akaba ameze neza mu buryo bw'imitekerereze ndetse n'ibindi. Murabona ko uyu muntu abyibushye cyane bitewe n'imyitozo ngororamubiri ndetse no kunywa amazi menshi akaba yarabyitoje kuva kera.

Abakobwa cyane cyane abakuze, mushishikarizwa kuba mwakwitabira ibikorwa ngororamubiri, buri munsi kugira ngo mubashe kwita ku uzima bwanyu.

Kuba wakora imyitozo ngororamubiri uri wenyine ntibibujijwe, ariko kuyikora uri kumwe n'abandi bituma wishima, bigatuma usabana na bo, ndetse ukabikora wishimye, kugira ngo umubiri wawe ukomeze kuba mwiza.

Ni byiza ko dukorera umuntu masaje tukaba twamamasa umubiri wose kuko nabyo bibarirwa muri siporo ngororamubiri, kuko hari imitsi tuba turambuye iba yarihinnye binyuze yuko amaze igihe kirekire adakora siporo.

Iyo dukina imikino igiye itandukanye, tugomba gukina twigengesereye kuko biba birimo impanuka nyinshi, dushobora kuba twahuriramo na zo, bigatuma tujya kwivuza kwa muganga kandi bitari ngombwa cyane.

Akenshi abakinnyi bakunze guhura n'imbogamizi zigiye zitandukanye, kubera ko mu kibuga iyo barimo bakina bashobora kuba bagongana umwe akavunika. Iyo bigenze uko bakenera ubuvuzi bwihuse kugira ngo abe yakongera kuba muzima.

Umuntu wese udasanzwe akora siporo buri munsi ni byiza ko ahera kuri izi ngizi zo kuba yarambura amaboko akagorora amaguru agaca bugufi akarambura igice cyose cy'umubiri kugira ngo abone aho ahera akora n'izindi zikomeye.

Kwa muganga na ho hagomba kuba hari ibikoresho bya siporo, kugira ngo umuntu wese basanze afite icyo kibazo bamunyuze muri ibyo byuma bibe byamukorera ibyo akeneye, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba buzima.

Igihe cyose umuntu cyangwa ahantu habereye amarushanwa hagomba kuba hari n'abandi bantu bateganya ko hashobora kugira uwangirikiramo bakaba bamukurikirana ubuzima bwe bugakomeza kuba ubuzima.

Ibikoresho byinshi bigomba kuba biri kwa muganga ndetse bibitswe mu tubati twabugenewe kubera yuko byose biba bidakora ikintu kimwe kandi umuganga agomba kubyitaho akamenya uko bibikwa.

Umuntu ugize ibyago byo kuba yakora impanuka igiye itandukanye yaba iy'imodoka, iya moto cyangwa se igare, ashobora kugezwa kwa muganga bamusuzuma bakabona bitazakunda ko ingingo ze zikomeza gukora, bikaba ngombwa ko ahabwa akagare azajya agenderamo.

Abantu mwese mukunda gukora imyitozo ngororamubiri, ntimukibagirwe kunywa amazi menshi cyane, kubera ko amazi ari ubuzima. Igihe rero tudakoresheje amazi, umubiri wacu ushobora gucika intege, bigatuma turwaragurika.

Igihe tubona umurwayi mu butabazi bw'ibanze twamukorera twe ntacyo twashobora tugomba kumushyikiriza umuganga ubizoberewe akaba ariwe ukurikirana ubuzima bwe kandi akabwitaho.

Buri muntu wese ukora siporo, ni byiza ko azijyamo yabanje gufata zimwe muri izi mbuto ndetse na nyuma y'uko azivuyemo akaba yarya neza ntiyibagirwe kuba yakongera agafata muri izi mbuto.

Ibyuma byose tubona kwa muganga, burya biba bifite akamaro kagiye gatandukanye. Ariko ubikoresha wenyine, niwe ubasha kumenya icyo agomba kubikoresha mu gihe cyacyo.

Ni byiza ko buriko umuntu abonye umwanya akora imyitozo ngororamubiri kuko biri muri bimwe bituma imibiri yacu ikomeza kuba mizima kandi n'amaraso akaguma gutembera neza, bikamurinda kuba yarwara umuvuduko w'amaraso.

Kwa muganga akeshi, mbere y'uko bakunyuza mu cyuma runaka, hari ibyo babanza kwandika, cyane cyane ni ibizamini bigaragaza uburwayi bwawe, kuko iyo umaze kukinyuramo, izo nyandiko zirabikwa, zikazakoreshwa mu yandi makuru.

Ibikoresho bibara imibare nabyo bimenkwa n'inzobere zibikoresha gusa, kubera ko umuntu utarize ubuganga ntashobora gupfa kumenya ikigikoresho ibyo gikoreshwamo.

Bimwe mu bintu dushishikarizwa n'abaganga igihe basanze hari indwara iterwa no kuba tudakora imyitozo ngororamubiri ni ukuba twakora izo siporo kugira ngo imitsi yacu irambuke, kubera ko hari igihe amaraso adatembera neza kubera ko twabuze iyo siporo.

Imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye, zigira akamaro mu mibiri yacu, kubera yuko imibiri yacu iyo yakoze ikananirwa iba ikeneye kuba yakwakira imbuto kugira ngo ikomeze ikore neza, kuko ziri mu bintu byiza birinda umubiri wacu.

Ntitukabone abantu bari mu myitozo ngororamubiri ngo tubaseke, kuko baba bari kugirira neza umubiri wabo, natwe rero tugomba kubyihatira kugira ngo imibiri yacu ikomeze gukora neza, kuko iyo umubiri udakora neza n'ibyo dukora ntibyagenda neza.

Cyane cyane abantu bakora serivisi zo kuvura abantu indwara zo mu kano. Ni bo bonyine bamenya ibikoresho byose bikoresherezwa muri iki cyumba. Ariko udasanzwe yarabyigiye ntashobora kubimenya.

Buri muntu wese yaba umusore yaba umukobwa n'abandi bagiye batandukanye, ni byiza ko bitoza gukora imyitozo ngororamubiri baterura ibyuma, bakora n'ibindi byoroheje kugira ngo imibiri yabo ikore neza.

Buri vuriro cyangwa ahandi hantu hose hagomba kubera ibikorwa bihuza abantu kandi bikaba bigaragara ko hashobora kuberamo impanuka zitandukanye, hagomba kuba hari bubankari kugira ngo ugize ikibazo babe bayimushyiraho, bamujyane.

Abantu twese ni byiza ko dukora siporo ngororamubiri cyane cyane abakobwa, kuko aribo batabiha umwanya cyane babihariye abasore ngo nibo baba bashaka kubaka imibiri yabo.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye harimo nk'iyo basiga ku ruhu waba ufite ibibazo bitandukanye bikagenda bigakira ndetse n'indi yose isigwa igihe umuntu yagize igikomere ndetse n'imvune ikaba yakira.

Muganga wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kuba yapima umuntu akarebe uko ahagaze ndetse akaba yamufata n'amaraso kugira ngo ibizamini bye aze kureba niba byaranduye cyangwa ari muzima.

Abantu benshi bakunze kurwara indwara nyamara ntibamenye icyo barwaye ariko iyo bageze kwa muganga, hari igihe basanga imyakura yabo itagikora neza, muganga akaba yabategeka kubanyuza mu ibyo byuma bikangura imyakura.

Mu bikoresho bigiye bitandukanye dukoresha mu myitozo ngororamubiri dushobora kuba dufite n'umupira tukaba twawukoresha ndetse n'inkweto kugira ngo imyitozo yacu igende neza kuko bidufasha kwiruka cyane kugira ngo igihaya cyacu kimenyere.

Si byiza ko umukinnyi afata ibinini byongera imbaraga mu gihe agiye mu kibugam, kubera ko ibingibi nubwo bituma agira izo mbaraga, ariko biba bizangiza umubiri we, uhereye none, kugeza mu hazaza he, igihe azaba atagifite izo mbaraga.

Iyo umuntu avunitse ukuguru ahabwa insimburangingo, akaba yakomeza kugenda nka mbere ariko ntihabura akantu gato kagaragaza yuko atakiri muzima nka mbere ndetse atagikora ibikorwa nk'uko yabikoraga neza neza agifite akaguru ke.

Mu Rwanda tugira ikigo gishinzwe gufasha abantu mu kuba babaha amaraso, cyitwa kuruwa ruje, niyo mpamvu iki kigo tugomba kukigana kugira ngo natwe tujye dufasha abandi kubaha amaraso.

Biba byiza ko igihe cyose tugiye kunywa amazi, tugomba kureba ko ayo mazi asukuye ndetse tukita cyane ku gikoresho avuyemo niba a gifite isuku, kugira ngo tube twayageza mu mubiri wacu ntabe yagira ingaruka n'imwe aduteza.

Mu gihe cya korona virusi twashishikarizwaga kuba dufite handisanitayiza kugira ngo tujye tuyisiga aho tugeze hose kuko twabaga tutazi ibintu byose twakozeho niba byizewe cyangwa bitarimo ama virusi ayanduza.

Mbere yuko umuganga atangira akazi ke agomba kureba neza niba afite udukoresho twe twose, harimo mudasobwa harimo agapfukamunwa ndetse no kuba yambaye uturindantoki n'ibindi bikoresho.

Kunyuzwa mu cyuma cya esikaneri, ntabwo ari ibya buri muntu wese. Kubera yuko kiba gifite umuntu kinyuzwamo, bitewe n'uko bamupimye bagasanga ubuzima bwe buhagaze.

Gukora siporo ntibigombera gukora izikomeye, ahubwo izo kugorora amaguru, kuba warambura amaboko n'izindi ngingo nazo ni siporo kuko zituma amaraso atembera neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri n’ ingenzi kuri buri muntu, kubera ko bituma ubuzima bwacu buba buzima, ndetse no kuruhuka mu mutwe igihe cyose twumva tunaniwe, kubera ko nabyo biri mu byo siporo ifasha umuntu mu buzima bwe.

Ku bantu bakunda gukora siporo zirimo izo guterura ibyuma bashyizwe igorora, kuko ubungubu byoroshye uragenda ukarebamo icyuma kingana n'ibiro nk'ibyo ufite ukaba wagiterura mu buryo bukoroheye utagiye gufata ibiremereye kuba byakuvuna.

Umuntu wese wumva ushaka ko ubuzima bwe bugenda neza ni inama agirwa na muganga harimo kuba yakora imyitozo ngororamubiri, nyamara benshi barabisuzugura ubuzima bwabo bwamara kuba bubi bakifuza kubikora bitagishobotse.

Imyitozo ngororamubiri irimo kuba twagororana ingingo nk'ivi, na yo iba ikenewe mu buzima bwacu kubera ko iyo twicaye ntidukore iyo imyitozo ngororamubiri, usanga hari byinshi bitagenda neza mu mibiri yacu nyamara ari twe tubyiteye.

Inama zose duhabwa n'abaganga harimo nko kubatwanywa n'amazi byibura ritiro ebyiri ku munsi, kubera ko amazi ari ubuzima bishobora gutuma ubuzima bwacu bumera neza kandi buri kimwe dukoze cyose umubiri wacu tukumva umeze neza nawo.

Si ngombwa ko, tuba tuzi ibikoresho byose bikoreshwa kwa muganga, kubera ko twebwe tudatanga serivisi zaho, ahubwo bimenywa n'ababikoresha kugira ngo bamenye buri gikoresho bakibikwa bitewe n'icyo gikora.

Amazi asukuye ni byiza ko tuyashyira mu gikoresho gisukuye nacyo. Kugira ngo ayo mazi ntaze kuba mabi mu mubiri wacu, ahubwo nagera mu mubiri wacu agire umumaro.

Ni byiza ko tunywa amazi menshi cyane cyane mu gihe cy'izuba kubera ko iyo tunyoye amazi umubiri wacu ukora neza kandi bibiri bya gatatu by'umubiri wacu biba bigizwe n'amazi, icyo ni ikintu tutakwirengagiza.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri harimo no kuba twakambara inkweto ndende kubera ko na zo zidufasha kurambura amaguru yacu turi nko mu myitozo yo kuba twakwiruka.

Bikunze kumenyekana ko kujya inama mbere kw'abaganga, mbere yuko bajya mu kazi ko kuvura, hari ikindi kintu bibongeraho kubera ko hari inama bungurana n'ibindi bitekerezo by'uko bakora iyo serivisi neza kandi bakayinoza.

Ni kenshi tugirwa inama yo kuba twakora imyitozo ngororamubiri, kubera ko ibi bituma imibiri yacu imera neza, kandi gukoresha imibiri yacu itameze neza bishobora gutuma twandura izindi ndwara zigiye zitandukanye zituruka kudakora siporo.

Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agomba gukora ibi bikurikira, kuba yakaraba intoki n'amazi meza agasukura umubiri we, ndetse akirinda buri kimwe cyose gishobora gutuma agira aho ahurira n'ibindi byorezo ndetse yajya koga koga n'amazi meza ibyo akabyitaho buri munsi.

Ni byiza ko buri wese ku ifunguro rye rya buri munsi rigomba kuba ririho imbuto. Cyane cyane igi buri munsi, kubera ko rituma umubiri wacu umera neza, cyangwa kuba warya imineke nyuma y'uko umaze kurya ibiryo bindi.

Kunywa amazi igihe uvuye muri siporo cyangwa ikindi gihe icyo ari cyo cyose, ujye umenya ko ari ingirakamaro ku buzima bwawe, atari ukuyanywa ari uko wumva ugize inyota gusa.

Gukora imyitozo ngororamubiri ku bantu bose ni ingenzi kubera ko iyo tuyikoze imibiri yacu imera neza kandi bidufasha no kuba twategura ibindi bintu byacu twitonze kubera ko tuba dufite ibintu byiza byo kuba twakora.

Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri ndetse tukarya n'indyo yuzuye kuko ibi ari bimwe bishobora gutuma imibiri yacu ikora neza kandi igakomera ndetse ntihagire n'indwara ipfa kuzahaza umuntu.

Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane tukoreshejwe na muganga, kuko niwe uzi icyo imibiri yacu ikeneye ndetse na siporo yakoresha imibiri yacu kugira ngo ikomeze kuba mizima, kandi imitsi yacu irambuke neza.

Buri hantu hose hagomba kuba hari ubutabazi bw'ibanze cyane cyane nko mu kibuga cy'umupira w'amaguru, kubera ko haba hari ibyago ko umukinnyi ashobora kuhavunikira, akaba yahita afashwa ku buryo bworoshye.

Iyo ugeze kwa muganga mbere yuko agira ibindi byose asuzuma, abanza kugushyiraho aka kuma kugira ngo yumve uko umutima wawe utera, yasanga ntakibazo akagufata ibindi bizamini.

Mbere y'uko umuganga yita ku murwayi, agomba kureba ibyuma bye niba birimo gukora neza cyane cyane ibi bibara imibare. Bimwe muri ibyo haba harimo ibipima umutima, kuko niho arebera neza mbere y'uko avura umurwayi.

Buri muntu wese ni byiza ko aba afite igikoresho azajya anyweramo amazi cyabugenewe, urugero nko kuba icyo gikoresho cyanditseho ko gipima litiro imwe cyangwa litiro ebyiri akamenya igipimo cy'amazi azajya anywa buri munsi.

Umuntu usa naho akuze cyane yambaye ishati y'umweru ndetse afite n'agaswaro k'ubururu, yagashyize ku kuboko kwe bisa naho ukuboko kwe gufite ikibazo, akaba ariyo mpamvu yahapfutse kugira ngo yirinde.

Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yacu ibeho neza kandi tutagommbereye kuba twakora ibintu bikomeye cyane ahubwo tugakora, bitewe n'uburyo dushaka kubakamo imibiri yacu.

Abantu twese twamenye neza ko amazi ari ubuzima, iyo tuyafashe ubuzima bwacu bukora neza kandi amazi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma tugira imitekerereze myiza, kuko bibiri bya gatatu by'umubiri aba ari amazi.

Mbere y'uko dusinya kiriya cyangombwa cyemeza ko umurwayi ajya muri sikaneri, tugomba kubanza kubyitondera, kubera yuko ashobora kujya mo ubuzima bwe bugatakara, ariko ibyo byose tugomba kwemera ko bishobora kubaho igihe cyose ari buyigemo.

Kuba umuntu yakora imyitozo ngororamubiri umubiri we nturambuke neza, hari ikindi umuganga ashobora kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba buzima, akaba yamugira izindi nama.

Kwizirika akagozi ku kuboko ukarambura amaboko cyane cyane aka elasitike nabyo ni siporo igorora umubiri kuko iyo uyikoze hari ibice bigenda birambuka.

Abantu bakoze siporo cyane bakunze guhina ingingo zabo ku buryo uba ubona bitashoboka cyane cyane ku muntu udasanzwe ukora iyo myitozo ngororamubiri we aba abona bitakunda.

Hari ibyuma byinshi bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abaganga, kandi ibyo byuma buri kimwe kiba gifite ibyo gipima. Ni byiza ko buri serivisi ikeneye ibyuma runaka, muganga agomba kuba abifite kugira ngo bikore icyo byagenewe gukora.

Ni byiza kuba wanywa imiti irimo ibinini cyangwa ukaba warandikiwe inshinge, ukaziterwa ariko nanone bikaba bibi, iyo witera inshinge z'ibisindisha cyangwa iz'ibiyobyabwenge kugira ngo wongere imbaraga mu mubiri wawe.

Ni byiza ko buri wese ashishikarizwa gukora siporo kuko iyo uzikoze imitsi yawe irambuka, ubwenge bwawe bugakora neza, umubiri wawe ugakora neza ndetse ukanatekereza neza igihe ugiye gukora akandi kazi, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Si ibya buri wese kubona uko ahita yikingira igihe cyose yavunitse ku ivi cyangwa yagize ikindi gikomere, usibye abaganga bonyine bafite ubwo bushobozi tugomba kugana bakaba aribo badufasha iyo serivisi.

Ni inshingano z'umuganga kuba yakita ku murwayi akamufata ibimenyetso byose bigiye bitandukanye kugira ngo arebe uko ahagaze, kandi kubera ko aba yarabitojwe iyo amenye indwara aba azi n'umuti ugendanye nayo.

Iyo umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga aje gushaka serivisi z'ubuganga bw'amenyo, mbere yuko muganga amusuzuma abanza kumurikamo n'igikoresho cyabugenewe mu kanwa ke, kugira ngo arebe niba amenyo ye nta kibazo yaba afite.

Ni byiza ko umubiri w'umuntu ukorerwa masage kugira ngo awurinde indwara z'ibyuririzi zishobora kuwangiza igihe cyose utakorewe iyi serivisi bigatuma umubiri wawe unegekara.

Igihe cyose umuntu agize impanuka ni byiza ko tumuha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo tube twamushyikiriza ahabugenewe kuba bamwitaho, si gombwa cyangwa si na byiza ko twamusiga wenyine ahubwo turamufasha muri ubwo buryo.

Ukibona uru rumuri uku n'ibi bikoresho bikorerwamo aha ngaha umutwe wawe uhita utekereza ko hakorerwa ubuvuzi bw'indwara zandurira mu kanwa ndetse no kuba hari ubuvuzi bw'amenyo n'ibindi bitandukanye nk'uko ibikoresho bigaragaza.

Igihe umuntu akomeretse, agomba kwihutishwa kujyanwa kwa muganga, bakaba bamuha serivisi zirimo kuba bamupfuka, kugira ubuzima bwe bwongere busubire ku murongo, ariko na nono akirinda kuba yakora indi mirimo ivunanye yatuma ibipfuko bivaho, akongera agasa n'usubiranye igikomere.

Ni byiza ko umuntu wese ukora mu buvuzi, agomba kuba yambaye ga z'umukara cyangwa izindi izo ari zo zose kugira ngo yirinde ibyago yahura nabyo, muri ako kazi ke akora.

Uyu muntu ahagaze ku rwego rurerure ari kurira, birasa naho ari ibintu agiye kumanika hejuru kandi aha hantu haragaragara ko ari kwa muganga Faisal mu bitaro bikuru i Kanombe.

Nubona umuntu ari gukora ibingibi ntuzagire ngo yahaze, ahubwo aba arimo arategura ubuzima bwe ejo hazaza kubera ko gukora siporo bituma umubiri umera neza ndetse n'amaraso agatembera neza muri wo.

Buri muntu wese agomba kunywa amazi kandi akanywa byibura litiro ebyiri ku munsi, kuko aricyo gipimo cyagaragaye cyiza buri muntu wese ashobora gufata umubiri we ugakomeza gukora neza nkuko bisanzwe.

Akenshi abantu babyibushye Uba ubona aribo bakwiriye gukora siporo bonyine, nyamara ahubwo usanga aribo batabiha umwanya cyane, kubera ko baba bibereye mu bindi, ahubwo bagakomeza kurya ibiryo bigiye bitandukanye byongera umubyibuho.

Kuba twarambura imitsi yacu si ibintu bigoranye cyane, kubera ko iyo dukoze imyitozo ngororamubiri ibi byose bigomba kugerwaho, kandi ubuzima bwacu bugakomeza kuba buzima kubera ko buri gice cy'umubiri cyose twagikoresheje kibasha gukora neza.

Umuganga kwita ku murwayi ni inshingano ze kuko ntibintu aba yarigiye ndetse afite n'impamyabumenyi yabyo niyo mpamvu akora ibintu azi kubera yuko aba afite ubwo bushobozi bwo kuba yabikora neza mu gihe gikwiriye.

Iki cyuma ntabwo ari icyo kunyuzwamo umuntu uwo ari we wese keretse uwafashwe ibizamini bagasanga koko agenewe kunyura muri icyo cyuma; kuko ukinyuzemo wese aba afite ikibazo gikomeye kandi baba bashaka kumenya icyo bamukorera.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku muntu uwo ari we wese utitaye ngo uri umukobwa, umusore cyangwa umugabo cyangwa umugore ahubwo uyikora mu buryo bwo kurinda umubiri wawe neza, kuko hari indwara nyinshi uba wirinze iyo ukoze siporo.

Abakobwa na bo barashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko nabo bibagirira umumaro si iby'abasore gusa cyangwa abagabo .Kugira ngo babe bakubaka amatuza ahubwo bireba buri wese ushaka ko ubuzima bwe bumera neza.

Imiti ihabwa abarwayi kwa muganga iri mu ducupa igomba kubikwa ahantu hizewe ndetse hatapfa kugerwa n'uwo ari we wese cyangwa kwangizwa n'icyo ari cyo cyose kugira ngo igumane ubuziranenge bwayo.

Hari imiti gakondo ikorwa mu buki, iyi ngiyi akenshi bakaba bayisiga ku ruhu kugira uruhu runyerere ndetse iyo uruhu rwawe rwakomeye cyane rubasha kongera gusubira rukaba nk'urw'abana bato.

Si byiza ko niba muganga atwandikiye imiti tugomba kuyinywa uko twishakiye, ahubwo tujye dukurikiza amategeko n'amabwiriza yaduhaye kugira ngo iyo miti ibe yabasha kudukiza, kuko kuyinywa ari myinshi cyangwa kuyinywera rimwe bishobora kuduteza akaga.

Iyo iyi miti ya kinyarwanda uyishyize mu dukombe, ukaba wayiha umwana akayinywa, imyinshi muri yo ikunze kuba ikoreshwa mu buryo bwo kuvura umwana warwaye inzoka, kubera ko abantu bakuze baba bazi ko iyo miti ikora cyane.

Imwe mu miti gakondo abantu ba kera bazi kandi n'ubu bagikoresha ni umuravumba, kubera ko bakubwira ko iyo urwaye inkorora ukanywa umuravumba cyangwa ukaba wawuhekenya inkorora igenda nka nyomberi.

Bimwe mu bihingwa bikunze guterwa cyane cyane iby'imiravumba ariko bikabanza guhunikwa mu bihoho kugira ngo bizakurwemo bishyirwa mu butaka, mu buryo bwo kugira ngo birindwe neza kandi bizakure neza.

Nubona ibi bintu by'ibishashi bimeze uku nguku, si byiza ko ukuramo buri kimwe cyose usanzemo; kuko akenshi hari igihe biba bibitswemo imyanda kandi iyo myanda ikaba yateza izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Imiti yo kwa muganga iri ahantu hamwe ndetse ubona ko ari ahantu hasa neza; abantu badashobora kuba bayihutaza bakayangiza kugira ngo ibe irindiwe umutekano wayo igashyirwa ahantu nk'aha.

Ni kenshi uzabona umurwayi kwa muganga bamuteye serumu kubera ko iyingiyi imufasha kuba yamwongerera amaraso mu mubiri ndetse ikaba yamwongerera n'intungamubiri zijyanye n'ibyo kurya, kuko akenshi aba atagishobora kuba yagira icyo afata ngo akirye.

Abantu bakora ubuhinzi cyane cyane ubw'imbuto, barabizi neza ko ipapayi ari urubuto rutuma amaraso atembera neza mu mubiri w'umuntu, ni byiza ko buri munsi uwo bishobokeye cyangwa uwabibonye agomba gukoresha ipapayi kugirango arinde ubuzima bwe.

Imiti igiye itandukanye y'amoko runaka ishobora kuba yahabwa umurwayi uwo ariwe wese bitewe n'indwara arwaye kugira ngo uburwayi bwe bube bwavurwa, kandi iyo ayinyoye neza bimugendekera uko.

Imwe muri poroduwi y'imiti gakondo ishobora gukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye abenshi muri bo nibo bazi icyo ivura ndetse bagakunda kuyikoresha igihe bumva imibiri yabo itameze neza.

Ni byiza ko umuntu yita cyane ku mbuto kuko zituma nazo umubiri umera neza cyane cyane nk'igihe tumaze gukora imirimo ivunanye cyangwa tugiye gufata ifunguro tukajya turenzaho imbuto kugira ngo imibiri yacu ikore neza.

Abanyarwanda nibo bari bazi kera imiti uko yagendaga ivura, ndetse abenshi baranayihingiraga kuko wasangaga serivisi zo kujya kwa muganga zarabaga zigoranye, ndetse ugasanga banakora urugendo rurerure cyane.

Hari uburyo bwizewe bwo kuba wavanga imbuto runaka kandi ukaba wazikoramo n'umutobe kubera ko umutobe w'amaronji uraryoha cyane ku bantu bawunyweyeho kandi uburiye imbuto mu mubiri wawe.

Umubyeyi iyo ageze aho yateye ibihingwa bye bivamo imiti agasanga bitoshye bituma yumva yishimye, kubera yuko aba yumva ko umuti wabonetse wo kuvura indwara.

Kurya imbuto ni byiza ku buzima bwa buri muntu cyane cyane iyo tumaze gufata amafunguro atandukanye ni byiza iyo tuzirengejeho kuko zituma igogora rikora neza kandi nabyo bikaba byagera mu mubiri bikawutemberamo neza.

Imiti gakondo akenshi dukunze kubuzwa kuyikoresha kubera ko ibyo byose biba bitapimwe ngo turebe niba byujuje ubuziranenge, niyo mpamvu imiti wahawe na muganga ari yo yonyine iba yemewe kuko iba yizewe ko iri bukize indwara urwaye.

Ibikoresho bivura cyangwa babikamo imiti ntabwo bikunze kunyanyagizwa aho ariho hose, kubera ko abaganga baba baramenye agaciro kabyo ndetse no kubibungabunga ku buryo bizarinda n'ubuzima bw'abantu.

Kubika imiti y'ubuvuzi gakondo ahantu hamwe biba ari byiza, kubera ko igihe cyose uyikeneye, uyifite ahantu uyisanga, kandi ukayikoresha mu buryo bwiza kuko uba warabihuguriwe.

Iyo witegereje neza usanga ahantu hari ibintu binyanyangiritse cyane hadakunze kuba hari amahoro, kubera yuko iyo ibintu bijagaraye nkuku, hashobora kuba hateza indwara zigiye zitandukanye benshi tutajya twitaho ngo tube twazimenya.

Uducupa turimo imiti y'abarwayi, ni byiza ko tuba turi ahantu heza hatagerwa nuwo ariwe wese kugira ngo abe yayangiza kubera ko umuganga aba azi icyo iyo miti imaze kandi ishobora gufasha umurwayi.

Serivisi zitangirwa ahantu, uri kubona ko bishoboka ko yaba ari mu kabari, kubera ko harimo amacupa menshi, kandi hejuru kuruhande hari nimero yo kuba wakishyuriraho, umaze kugira ibyo ufata muri iri duka.

Umuntu wamaze kumenya agaciro ka tangawizi, ntabwo azikoresha mu buryo yiboneye. Kubera yuko zivura inkorora, zikaba zavura anjine, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Amacupa menshi asa n'ayabitswemo imiti yo kwa muganga, aya ngaya akaba abikwa mu bubiko bwabugenewe kugira ngo hatagira uwaba wayangiza kubera ko ari imiti ikize abarwayi kandi ikoreshwa mu gihe cya nyacyo.

Imiti y'ubwoko butandukanye yajyaga ivura abantu ba kera ariko ubu ngubu ntabwo igikoreshwa cyane kubera ko bamaze gusirimuka basigaye bagana kwa muganga bagafata imiti yaho.

Bamwe mu bantu bavutse kera ndetse cyane cyane ab'abakecuru n'abasaza, baba bazi iyi miti ikomoka mwibi bihingwa byose, kubera ko baba barabikoresheje kera bakiri abana cyane cyane bari mu gihe cy'igihe cyo kuba babyara.

Ni kenshi dushishikarizwa kunywa amazi menshi cyane, nyamara abenshi bihugiraho bagakora iyindi myitozo ngororamubiri nyamara ntibibuke ko kunywa amazi biri mu bintu bishobora gutuma umubiri ugubwa neza.

Si byiza ko umuti uwo ari wo wose tuwangiza ngo ni uko tutazi icyo ukora ahubwo tugomba kuwusigasira kubera ko abahanga bawo ari bo bonyine baba bazi icyo uwo muti umariye abantu.

Abagabo banini ndetse benshi bari mu murima utewemo imiti gakondo ndetse bari gutekereza uburyo bazayikoresha mu buvuzi bwabo kugira ngo ubuvuzi bugere ku bantu bose.

Mu muco nyarwanda abantu bakundaga gukoresha ibyatsi, bakaba babifata bakabihuza bakabikoramo umuti runaka, bitewe n'icyo bashaka kuvura kandi ibyo ngibyo byakundaga gutanga umusaruro.

Ni byiza ko umuganga afata uducupa akadushyiramo ibinini, ndetse akabibika ahabugenewe kubera ko iyo ibinini bibitse ahantu hizewe bigumana ubuziranenge bwabyo, kugira ngo n'umurwayi ubinyoye bibe byakiza indwara ye.

Ibimera bigiye bitandukanye bishobora gukoreshwa mu buvuzi dusangamo arowu wera, remoni barumu, basiri, ravanderi, rozemari, marigodi, peperimite ndetse n'ibindi bitashyizwe aha.

Abanyarwanda ba kera bari bazi ibanga rituruka mu iki kimera, kubera y'uko akenshi bakundaga kugikoresha baha abana babo umuti ugiturutsemo, banywa bagakira inzoka igihe babaga bazirwaye.

Icupa ririmo umuti ukoze mu buki kubera yuko iyi miti ikunda gusigwa ku ruhu, uruhu rukongera rukanyerera, abantu bakunze kuyigura cyane kugira ngo bongere bagire uruhu rwiza.

Kwa muganga hakunze ko harimo ibicupa binini, cyane cyane babikamo ibinini byo guha abarwayi, ni ukuvuga ngo baba bagiraga ibinini bitandura kandi ubuziranenge bwabyo bugume ari nkuko byaje.

Zimwe mu mbuto zitandukanye twavugamo nk'indimu zishobora kuba zikiza indwara runaka zitandukanye izi zamenwe n'abanyarwanda kandi bazikoresha mu buvuzi bitewe n'indwara barwaye.

Abavumvu benshi bakunze gukora ubuki nibo bazi imvune zabyo, kubera yuko baba bafite uburyo bwinshi bakoreshamo kugira ngo babutunganye, mbere y'uko ubuki bugera mu nganda bubanza kunyura mu biganza byabo bakabutunganya.

Mbere yuko umuganga atera urushinge umurwayi urwo rushinge rukaba ari urw'umuti agomba kubanza kwita ku bipimo by'ibyo ashyize mu iserenge ye kugira ngo abe yawutera umurwayi ntamutere mwinshi.

Si ahantu hose haterwa imiti gakondo kubera ko ubutaka buba bwarayimenyereye ntabwo aba ari bwose, ahubwo igihe umenye ko hera imiti gakondo ugomba kuyiterera rimwe kuko aba ari ubuzima bwa benshi.

Imiti gakondo idufasha kuba yavura indwara zitandukanye, harimo inkorora, amibe n'izindi zigiye zitandukanye zakunze kuzahaza abantu ubuzima bwabo.

Nubona isoko rigurisha imiti gakondo ntukajye uritererana, kubera yuko baba bazi ibyo bakora kandi imiti baba bayizeye neza ko ivura indwara.

Buri vuriro rigomba kuba rifite akabati kabikwamo imiti igiye itandukanye. Kugira ngo muganga nakenera umuti runaka amenye agace uherereyemo ahite ko ajya kuwushakiramo.

Abantu bamenye ibanga ry'ibi bihingwa bagomba kubisigasira ndetse bakanabifata neza, bakanatoza abandi kubigirira uko havamo imiti itandukanye kandi ikiza uburwayi bw'abantu.

Abavuzi ba kera bakundaga kwegeranya imiti gakondo bakaba bayivangavanga bakayihondanya bikabyara umuti wo kunywa, iyi miti yabo yabaga ifite ubushobozi bwo gukiza indwara zose.

Ni byiza kwitabira gukorera isuku amenyo yacu, kuko iyo tutayakoreye isuku bishobora gutuma twandura indwara zigiye zitandukanye, aribyo biduteza akaga bigatuma bayakura cyangwa abandi bakaba bayahomesha.

Si kenshi uzumva dushishikarizwa kuba twakoresha imiti nyarwanda, ndetse tukanashishikarizwa kuba twayibwira n'abandi. Ahubwo dushishikazwa kuba twabanza kwigere kwa muganga, akaba aribo banzura imiti bari buduhe tuzakoresha.

Si byiza ko buri kimera tugihungabanya kubera yuko kiba cyavamo umuti runaka nkuko abantu ba kera babimenye bakajya bibanda mu gutera ibyo biti kuko ari umuti.

Ntabwo ari byiza gukoresha imiti iyo ari yo yose, yaba iyisigwa ku ruhu, yaba iyo tunywa mu mubiri kubera ko imiti yonyine imenywa na muganga kandi akaba azi buri muti icyo uvura.

Ni byiza ko dukoresha imiti kandi yizewe y'isuku, kugira ngo isuku yacu yo mu kanwa igende neza, kandi igerweho. Ni yo mpamvu dushishikarizwa gusukura amenyo yacu kenshi.

Byari bizwi cyane ko imiti gakondo yavuraga abantu ba kera bagakunda kuyikoresha ntibakundaga kujya ku bigo nderabuzima bibegereye, ahubwo wasangaga ari zo nzira bakoreshaga gusa bivuza.

Imiti ya kinyarwanda abantu bayimenyereye cyane, bakunze kukubwira ko nta yindi miti bapfa kugura muri farumasi ndetse badakunze no kujya kwa muganga, kubera yuko ariyo miti bamenyereye bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu bari bazi ibanga ryo gukoresha ibihingwa gakondo cyane cyane nk'imiravumba, bari baramenye neza ko bashobora gukiza inkorora batarinze kujya kwa muganga ngo bakoreshe n'amafaranga menshi mu rugendo.

Ni byiza ko niba duteye ibimera gakondo bivamo imiti tugomba kubisigasira tukabizitira kugira ngo tuzagire umuntu uwo ari we wese wabyangiza kuko ubyangije aba ameze nk'uwangije ubuzima kandi amagara arasesekara ntayorwe.

Igihe cyose buri muntu aba afite imiti akoresha yaba ivura ibintu bitandukanye ku buryo atari byiza guhindagura imiti cyane kubera ko umubiri uba waramaze kuyimenyera.

Mbere yuko imiti gakondo iterwa ahantu habugenewe, ibanza guhumbikwa mu bihoho. Iyo imaze gukura ni bwo bayijyana mu mirima yabugenewe, bakaba bayitera kugira ngo izavemo umuti uvura.

Iyo umuntu amaze kumenya agaciro k'ibihingwa bivamo imiti agomba kubisigasira ndetse akanatoza abandi kuba batabyangiza kubera ko biba bizagira uruhare mu buzima bw'ahazaza bw'abarwayi.

Buri miti yose ntitukayijugunye uko tubonye ngo uko twamaze gukira, nyamara dushishikarizwa kunywa imiti tukayimara; kubera ko iyo tuyimaze nibwo indwara twari turwaye iba ikize neza aho kuyijugunya ngo twakize kandi tutarayimara.

Nufata ibihingwa by'umuco gakondo ukabivanga icyo gihe uzakoramo umuti ushobora kuvura ikintu kandi ukaba wavura n'izindi ndwara twebwe tutamenya.

Buri muntu wese aba afite uburyo azi umuti uvuramo cyane cyane iyi ya gakondo kubera ko abantu bayikoresheje kuva kera ni bo baba bazi indwara zo igenda ivura.

Hari ubwoko bwinshi bw'imiti umuntu akoresha igihe ashaka kwitabwaho cyangwa kwikorera ubuvuzi ku giti ke ariko biba byiza iyo ari abahanga bazi kuvanga iyo miti bakabayihuza ikavamo umuti uvura.

Izi ndabyo ku bahanga bazo barabizi neza ko ari imiti gakondo, bashobora kuzikoramo imiti igiye itandukanye bitewe n'icyo bashaka kuvura ndetse bakaba banayivanga.

Imiti y'ubwoko bwinshi cyane cyane iya kinyarwanda ariyo bita imiti gakondo igomba gutegurwa neza kuko ibirimo ibintu byinshi bishobora kurinda indwara kandi ikanyuzwa mu nganda zabugenewe igatunganywa.

Ntitugakangwe nuko amibe izengereje isi kandi igisubizo cyayo cyarabonetse kubera y'uko habonetse umuti wonyine ushobora guhangana n'amibe ku kigero cyo hejuru ndetse abawukoresha bakubwira ko wabagiriye umumaro mu buzima bwabo

Abantu bari baramenye ibanga ry'ibi, wasangaga aho bateye imiti gakondo baranahashyiraga senyenge kugira ngo hatagira umuntu uyangiza, bakaba bayizitira ku bw'ibyo ikaba irinzwe.

Kuba wabona imiti y'ibimera gakondo mu macupa si ibintu bitangaje kuko uhita ubyibwira bitandukanye n'indi yo kwa muganga, iba iteye ukwayo ndetse ikaba ipfunyitse mu buryo bwayo butandukanye n'iyi ngiyi ya gakondo.

Gutegura imiti k'umuganga, ni byiza mbere y'uko ayiha arwayi, kubera ko aba yabanje kwizera ubuziranenge bwayo, akabona kuyiha umurwayi kugira ngo imukize indwara arwaye, nyuma y'uko amusuzumye, akamubonamo iyo ndwara.

Imiti myinshi igiye itandukanye ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye, igihe cyose hari farumasi ikwegereye cyangwa hari ahantu hari imiti gakondo ugomba kuyegera igihe wumva utameze neza ukaba wabasha kugushakira umuti.